Inzu yagenewe gufatirwamo ibyo kunywa, irimo ameza atandukanye y'ubwoko butandukanye ndetse n'abantu benshi, harimo n'intebe zikoze mu byuma bisize amarangi y'umukara.

Inyandiko iriho urutonde rurerure bw'ubwoko butandukanye bw'ibinyobwa bwiganjemo inzoga ndetse n'igiciro cyaburi kinyobwa amafaranga gihagaze.

Inzoga z'ubwoko butandukanye, bumanitse mu kabati kagenewe kubikwamo inzoga ndetse na tereviziyo, imanitse ku gikuta ariko itari kwaka.

Inzoga z'ubwoko butandukanye umuntu uri gusuka inzoga mu icupa akoresheje amacupa abiri y'umweru, imeza ikoze mu rubaho iteretseho amacupa ari kujyamo inzoga.

Aho banywera inzoga hicaye abantu benshi ku ntebe z'ubwoko butandukanye ndetse n'ameza afite igice cyo hejuru gikoze mu rubaho harimo urumuri rukeye rw'amatara make y'umuhondo

Akabati gatoya karimo ubwoko bw'inzoga butandukanye buri mu macupa manini cyane, akabati kometse ku gikuta, iruhande rw'akabati hakaba hari televiziyo iri kwerekana umukino w'umupira w'amaguru.

Imodoka nyinshi ziparitse imbere y'inzu ikorerwmo ubucuruzi bwo gucuruza inzoga, hejuru y'inzu isakajwe amabati y'umutuku hari icyapa kinini cyamamaza inzoga.

Icyapa kinini cyamamaza inzoha kiriho icupa rinini cyane ndetse n'amashusho y'abantu bari kubyina, kikaba giteretse mu busitani ndetse hakuno y'inzu ndende y'igorofa yubakishije amatafari ahiye ndetse no hafi y'akandi kazu gato kubakishije imbaho gasakaje amabati.

Inzoga z'ubwoko butandukanye ziteretse ahabugenewe. Hari urumuri rw'amatara y'umuhondo hateretse imeza iriho urubaho hejuru rukoresheje verine y'umutuku; udutebe duto tureture turiho aho kwicara h'umukara. Inzu ifite amadirishya akoze mu birahure.

Intebe z'umukara ndetse n'izindi zikoze mu mbaho, n'izindi z'ubundi bwoko bukoze mu byuma zifite aho kwicara hakoze mu mabara y'umutuku, ameza y'umweru afite igitambaro k'iroza abantu benshi bahagaze ndetse na televiziyo imanitse ku gikuta cy'inzu.

Ubwoko bw'inzoga butandukanye, buri aho banywera inzoga n'ubusanzwe, inzoga ziteretse ahabugenewe hari kwaka amatara ari mu ibara ry'umuhondo, ameza abakiriya banywa inzoga bahagarara iruhande, akoze mubiti ndetse n'intebe ndende bicaraho, abantu baba gabo babiri, umwe ari hakurya y'ameza, undi ari hakuno y'ameza, bose bambaye imyenda y'umukara, inzu yubakishije amatafari ahiye.

Imeza nini cyane y'ikiziga ikoze mu mbaho iteretseho ikirahure kirimo inzoga ndetse n'amacupa y'inzoga agipfundikiye hakurya y'imeza hakaba hicaye abandi bantu benshi ndetse hari n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Aho bagurira inzoga z'ubwoko butandukanye, amacupa y'ubwoko butandukanye, ateretse ahagenewe guterekwa amacupa y'inzoga. Ameza yagenewe kwicaraho abakiliya n'intebe ziri hafi yayo ndende, zikoze mu mabara y'umweru.

Abantu bicaye ku meza aho banywera inzoga mu bwoko bwinshi bw'inzoga buri ahagenewe kubikwa inzoga ndetse na tereviziyo iriho amashusho ndetse n'icyuma cyagenewe gukonjesherezwamo ibinyobwa, abantu bicaye ku ntebe ndende zisize amarange y'umukara.

Akabari karimo abantu benshi batandikanye biganjemo abagabo n'ubwoko bw'inzoga butandukanye. Harimo amatara yaka urumuri r'umuhondo ndetse n'andi matara yako urumuri rutukura. By'umwihariko harimo urumuri rukeya cyane.

Umukobwa mwiza ufite imisatsi y'umuhondo. Akaba ari ahagenewe kunywerebwa inzoga. Aho imbere y'akabati karimo ubwoko bw'inzoga zitandukanye hari abandi bagabo benshi bahahagaze. Inzu iki cyumba kirimo urumuri rw'umuhondo ariko ruke cyane kuko hagaragara nkaho hijimye.

Inzoga iri mu kirahure iteretse ku meza y'ikizeru ikoze mu rubaho, inyuma y'imeza hari abantu bahicaye ku ntebe zikoze mu mbaho bari kunywa inzoga b'abagabo ndetse n'ameza akoze mu rubaho, hari indabyo z'ubwoko butandukanye ziteye mu mbuga ndetse n'ibiti birebire.

Urusisiro rurimo amazu y'ubwoko butandukanye asakaje amabati harimo izisize amarange y'umuhondo, ibiti by'ubwoko butandukanye byinshi kandi byiza binini, ndetse n'ibyapa binini byamamaza ko aho hantu hari utubari tw'ubwoko butandukanye bucururizwamo ibyo kunywa bijyanye cyane n'inzoga.

Ibirahure byagenewe kunywererwamo nzoga biteretse ku meza. Ibirahura birimo amazi.

Amacupa y'inzoga zitandukanye ateretse ku meza arimo igitambaro cy'umuhondo. Inyuma y'inzoga hari abagabo bahari umwe aricaye undi arunamye.

Umugabo wambaye umupira w'umukara ufite agatambaro k'umutuku kurutugu, ufite ibikombe bibiri birimo inzoga, ahagaze imbere y'ahantu hari inzoga nyinshi cyane, ziteretse mu kabati kagenewe guterekwamo inzoga.

Aho banywera inzoga hari ubwoko bwishi bw'inziga buteretse ahabugenewe ndetse n'abantu bahari ariko hari urumuri rukeya cyane bigaragara ko ari n'ijoro.

Inzu nini cyane ifunguye iriho indabyo imbere y'imiryango yayo, hejuru hakaba harimo icyapa cyamamaza ko aho hantu hakorerwa ubucuruzi bwo kunywa inzoga, imbere y'inzu kandi hari icyapa kinini kiriho icupa ry'inzoga ndetse n'ikirahure kirimo inzoga.

Urukuta runini cyane rusize amarangi y'umuhondo, rukaba rwanditseho amagambo manini mu mabara y'umukara, ndetse n'umutuku ku mpande z'urukuta hari imbuga nini cyane, ikoreshejwe amatafari imatoya akoze muri sima n'umucanga.

Umuntu wicaye urikureba amashusho kuri televisiziyo yicaye imbere yahantu hari inzoga nyinshi z'ubwoko butandukanye, ndetse nicyuma cyagenewe gukonjesha ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, intebe ndende zikozwe mubyuma ndetse nimbaho biri ahantu hagenewe kunywera inzoga.

inzu yubakishije amatafari ahiye ifite imirango ifite inzugi zisize amarange y'ikirere kijimye inzu ikaba yubatse hakuno y'umuhanda wa kaburimbo umuhanda ukikijwe n'indabyo nziza ziconze neza cyane inzu kandi ikaba irimo amakaro ndetse n'intebe zikoze mu byuma n'akameza karekare k'ikizeru.

Icyumba kinini kiririmo inzoga zitandukanye ziri ahagenewe kubikwa inzoga, ndetse zakonjesherezwa mu cyuma cyabigenewe, imbere hakaba hari ameza yagenewe kwicarwaho n'abanywa inzoga akoze mu mbaho inzu yubakishije amatafari ahiye ya ruriba. Mudasobwa iteretse ku meza ndetse n'itara ryakamabara y'umuhondo.

Inzu y'umweru ifite umuryango ufite urugi rw'umweru narwo rurimo ibirahure hejuru imbere y'inzu hakaba hari icyapa kinini kimanitse kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru cyamamaza ubwoko bw'inzoga hanze y'inzu mu mbuga y'inzu hari umunyonzi uri gusunika igare ndetse n'undi muntu uhagaze mu muryango w'urupangu rwinjira mu nzu.

Aho banywera inzoga hari ubwoko bw'inzoga bwinshi butandukanye. Umuntu uri gucuruza inzoga, ndetse n'abandi bari kuzinywa. Urumuri rucyeya rwiganjemo na tereviziyo ebyiri zimanitse hejuru ziriho amashusho.

Indabyo nziza zitoshye ziri ahagenewe kwicara abari gufata amafunguro yiganjemo ibinyobwa. Intebe n'ameza zikoze mu mbaho, ndetse abantu bahagaze imbere y'ameza aho bafatira ibyo kunywa.

Icyapa kinini cyamamaza aho banywera inzoga, kikaba kiriho ishusho y'icupa rinini ry'inzoga ndetse n'abantu bishimye bari guseka, munsi y'icyapa hakaba hari umuryango w'inzu ukoze, uriho urugi rukoze mu byuma, winjira aho banywera inzoga.

Icyapa kinini kiriho ishusho y'icupa ry'inzoga, iri gusuka inzoga mu kirahure na none kandi icyapa giteye hafi y'inzu y'igorofa igeretseho indi nzu imwe isize irange ry'umweru wenda kuba umuhondo.

Abantu benshi bicaye ahantu hafatirwa amafunguro ndetse n'ibinyobwa bicaye ku meza y'ibizeru akoze mu biti cyangwa se mu mbaho ndetse ahantu bari hafatirwa ibyo kunywa bisembuye hari urumuri ruke n'amatara make cyane.

Icyumba cyagenewe kunywebwa mo inzoga, ubwoko bw'inzoga nyinshi buteretse ahagenewe guterekwa inzoga, ndetse na televiziyo imanitse hejuru irimo amashusho, umuntu wicaye ku meza akoze mu kirahure wambaye umupira w'umweru ndetse n'undi uhagaze wambaye umupira w'umutuku.

Icyapa kinini cyane cyamamaza ahacururizwa inzoga, gishinze hafi y'igipangu ndetse no hakuno y'umuhanda wa kaburimbo, ndetse hafi y'akayira k'abagenzi kubabakishije amatafari akoze muri sima n'umucanga. Inyuma, imbere yacyo hakaba hari igiti kinini kiri hafi ya kaburimbo, kiri kumwe n'abantu bahagaze imbere ndetse n'imodoka.

Urutonde rwanditseho ibinyobwa by'ubwoko butandukanye ndetse n'ibiciro byabyo, bikaba bitondekanyije uko amafaranga agenda akurikirana.

Urunywero rw'inzoga runini cyane rurimo abantu benshi batandukanye bahagaze biganjemo abagabo, inzoga z'ubwoko butandukanye, urumuri ruke cyane rutangwa n'amatara make y'umuhondo.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye bahagaze aho basanzwe banywera inzoga, imbere y'abantu hari ubusitani bw'ibyatsi bikeya cyane kandi aho hantu hari kwaka amatara menshi yiganjemo ay'ibara ry'umuhondo.

Intebe ndende zicayeho abantu babiri bambaye umwe yambaye ishati ya karokaro, undi yambaye umupira urimo imirongo w'umweru ndetse n'iy'umukara. Bose bahanze amaso televiziyo, iriho kunyuraho amashusho y'umukino w'umupira w'amaguru.

Inzoga z'ubwoko butandukanye ziri mukabati kagenewe kubukwamo inzoga, icyuma cyagenewe gukonjesha ibinyobwa, televiziyo iriho amashusho imanitse hejuru ku gikuta ndetse n'imeza abantu bahagararaho iruhande bari kunywa inzoga.

Icupa rinini ririmo inzoga y'umweru ritetse ku meza yo mu ibara ry'umuhondo ndetse kandi iyo meza ikaba ikoze mu mbaho. Iyo meza kandi ikaba iteretseho igikombe cyagenewe kunyererwamo inzoga. Hakaba hariho ibiganza by'abantu babiri, kimwe gifashe telefone nini mu ntoki.

Icyapa kinini cyamamaza ahacururizwa inzoga, icyapa gishushanyijeho icupa rinini ririmo inzoga ndetse n'ikirahure kinini kirimo inzoga, ndetse n'ishusho y'umuntu uri kunywa inzoga, icyapa kikaba giteye hafi y'akayira k'abagenzi ku muhanda wa kaburimbo, akayira kari kunyuramo abantu benshi babagabo.

Abantu batatu bahagaze ku meza umugabo umwe n'abagore babiri inyuma yabo hakaba hari ubwoko bw'inzoga bwinshi butandukanye, ahantu bari hari kwaka urumuri rw'amatara y'icyatsi kibisi.

Akabati kanini karimo ibyo kunywa byinshi cyane byiganjemo inzoga, imbere ya kabati hakaba hari umugore wambaye imyenda y'umukara n'undi wambaye imyenda y'umweru.

Inzoga z'ubwoko butandukanye ziri ahagenewe kubikwa inzoga mu kabati harimo urumuri rw'amatara, hejuru hari televiziyo iriho amashusho y'ikibuga gikinirwamo umupira w'amaguru.

Aho banywera inzoga hari ubwoko bwinshi bw'inzoga butandukanye , harimo iziteretse ku meza y'umukara, hari iziteretse ku meza y'umuhondo, ibirahure byinshi bisutsemo inzoga.

Imeza isize irange ry'umutuku iteretseho inzoga ziri mu birahure ndetse n'indi nzoga iri mu gicupa kinini cy'umweru, hakurya hari ubund bwoko bwishi bw'inzoga buteretse na none ku meza ahagenewe guterekwa inzoga ifite imiryango y'ibirahure.

Abantu bicaye ku meza, ariho igitambaro cy'umutuku, bari kunywa ibyo kunywa bidasembuye. Ndetse n'undi mugabo uri kunywa icyo kunywa gisembuye. Umugore umwe n'abagabo batatu bose bicaye ku ntebe zikoze mu byuma, mu nzu y'urunywero cyangwa se inzu yagenewe kunywebwamo ibinyobwa bitandukanye.

Icyapa kinini, kiriho amagambo yamamaza uburyo ibiciro by'amafi bigura, amafi atetse. Ndetse n'ibiryo bitetse, biri munsi y'icyo cyapa.

Ibirahure bwagenewe kunywebwamo inzoga ndetse n'amazi biteretse ku meza y'umukara, imbere hakaba hari ikiyiko ndetse n'ikanya n'ibiganza by'umuntu bifashe ku meza.

Ibyo kurya biri ku meza akoze mu rubaho ndetse n'agakombe gato gakoze mu cyuma, n'ikirahure kirimo inzoga ifite urufuro rwinshi, imbere y'ikarahure hakaba hari umugabo wambaye ishati iri yo mu mabara y'ubururu.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, urimo n'ibara ry'umutuku. Afashe ibirahure bibiri, by'inzoga, byuzuye. Inyuma ye hari izindi nzoga z'ubwoko butandukanye, inzoga nyinshi cyane, ziri ahagenewe kubikwa inzoga.

Abantubenshi cyane bahagaze mi kivunge biganjemo abagabo ndetse n'abagore bakeya amacupa y'inzoga y'ubwoko bwinshi butandukanye ndetse bahagaze ahantu hari urumuri rukeya basanzwe bahanywera inzoga.

Imeza ikoze mu rubaho rusize virine y'umuhondo. Imeza yicayeho umugore wambeye ikote rya kaki, ufite telefone mu ntoki. Imyuma ye hari indabyo nziza cyane, z'umuhondo, ndetse zicanyemo amatara meza cyane, na yo y'umuhondo.

Umukobwa mwiza uhagaze afashe akuma kagenewe gukoreshwa kishyurirwaho amafaranga hakoreshejwe ikarita mu buryo bw'ikoranabuhanga yambaye agapira k'umukara, inyuma ye hari akabati karimo ubwoko bw'inzoga butandukanye buri mu macupa manini ateretse mu kabati.

Ubwoko bw'inzoga butandukanye buri mu kabati kagenewe guterekwamo amacupa y'inzoga ndetse akaba n'andi macupa aturutse mu makurete agerekeranyije hanze, amakurute yiganjemo ay'umutuku n'ubururu n'icyatsi, amakurete yagenewe gutwarwamo amacupa y'inzoga.

Umusore ufashe icupa ry'inzoga mu kiganza yambaye ishati y'igitaka y'amaboko maremare ndetse afite n'akandi gakombe gatoya gakoze mu cyuma kari gusuka inzoga mu kindi gikombe kinini giteretse ku meza imbere ye hari ikindi gikombe kinini gipfundikiye gikoze mu ibara ry'icyatsi kibisi kerurutse cyane.

Umuhanda mwiza ukozwe mu mabuye aconze neza cyane, hakurya y'umuhanda hari amazu meza y'ubucuruzi, i ruhande rw'amazu haparitse amamodoka y'ubwoko butandukanye icyapa kinini cyamamaza inzoga iriho ishusho y'icupa rinini ry'inzoga, hari umutaka munini w'umuhondo, umuntu w'umusore uri kwambukiranya umuhanda wambaye ipantaro ya kaki n'umupira w'umweru.

Inzoga iri mu icupa iteretse ku meza ari mu ibara ry'umukara inzoga iri mu kirahure cy'umweru cyagenewe kunywerebwamo inzoga.

Inzu banyweramo inzoga, yubakishije amatafari ahiye, irimo intebe z'ubwoko butandukanye, ziganjemo indende, z'umukara, ubwoko bw'inzoga zitandukanye. Icyuma kibikwamo inzoga ndetse zikanazikonjesha.

Inyandiko nini iriho urutonde rw'ibiribwa ndetse n'igiciro ibiribwa bigura cyane cyane ibitetse byiganjemo ibya mugitondo nk'ibyayi ndetse n'ibindi biribwa bikoreshwa mu gitondo.

Aho banywera inzoga hari inzoga z'ubwoko butandukanye hakaba ameza yicaraho abanywa inzoga akoze mu mbaho ndetse n'ishusho y'inyenyeri iri mu ibara ry'icyatsi cyibisi.

Inzoga nyinshi ziri mu kabari, akabari karimo amatara menshi harimo n'icyuma gikonjesha ibinyobwa ndetse n'ibiribwa, imbere y'icyo cyuma hahagaze umuntu, imbere yaho hari akabati kariho intebe ku ruhande ndetse n'umuntu uhahagaze.

Aho banywera inzoga, hari amacupa y'ubwoko butandukanye y'inzoga ndetse na tereviziyo iri gucaho amashusho y'umukino w'umupira w'amaguru, hari kwaka amatara menshi ariko yiganjemo ay'urumuri rw'icyatsi kibisi.

Inyandiko nini, iriho urutonde rw'ibiribwa n'ibicuruzwa, n'ibinyobwa, ndetse n'igiciro cy'amafaranga bigura, aho bicururizwa.

Inyandiko nini igaragaza urutonde rw'ibicuruzwa, ndetse n'igiciro ibicuruzwa bigura, mu iryo duka ry'ubucuruzi ryiganjemo ubwoko bw'inzoga ndetse n'ibiribwa bitetse.

Icyumba cyagenewe kunywererwamo inzoga kirimo abantu benshi, hakurya y'abo bantu hakaba hari akabati karimo ubwoko bw'inzoga butandukanye, icyumba kikaba kirimo urumuri rwaka mu ibara ry'ubururu.

Inzoga z'ubwoko butandukanye ziri mu kabati kagenewe kubikwamo inzoga, imbere y'inzoga hari intebe y'umuhondo, imbere y'iyo ntebe hari umuntu wambaye ingofero y'umweru ufashe terefone y'umukara mu kiganza, yambaye ishati y'amaboko maremare y'umweru.

Icyapa kinini cyane cy'umukara giteye mu busitani bw'ibiti, icyapa kikaba cyamamaza ko aho hantu hari akabari gacururizwamo inzoga z'ubwoko butandukanye ndetse hakaba hari n'igipangu cyubakishije amatafari ahiye ateyeho irangi.

Inzoga z'ubwoko butandukanye ziri ahagenewe kubikwa inzoga mu kabati, umugabo wicaye imbere y'izo nzoga uri guseka wambaye ishati y'umweru ndetse n'ijire y'umuhondo, akaba yicaye imbere y'ameza yagenewe kwicarwaho n'abari kunywa inzoga hafi yayo meza hari intebe ndende ziri mu marangi ku mabara y'umuhondo.

Ameza y'umukara ateretseho icupa ry'inzoga ry'umukara ririho icyapa cy'ubururu n'umuhondo ndetse hari n'agacupa gato karimo umunyu ndetse hakaba n'igikombe kinini cyane banyweramo inzoga, inyuma y'inzoga hakaba hari umuntu w'umugore wambaye umupira w'umweru uhagaze.

Isahane y'ibara ry'umukara iriho ibiribwa ndetse n'ikanya, iteretse ku meza y'umukara. Ameza ariho icupa ry'inzoga n'ikirahure kirimo inzoga, ikirahure kimwe bibiri imbere y'imeza y'umukara hari intebe nayo y'umukara, hakurya y'imeza hari ibyatsi bitoshye ndetse n'inzu y'igorofa rirerire.

Inzoga z'ubwoko butandukanye ziri mu kabati kagenewe kugibwamo inzoga, hafi y'ako kabati hari icyuma cyagenewe gukonjesherezwamo inzoga, hejuru yaho hakaba hari icyindi cyuma gishinzwe gutanga umuriro mu nzu cyifashishije amashanyarazi, ururabyo ruteretse hejuru y'akabati ndetse n'umuntu wambaye ipantaro wicaye imbere y'akabati.

Icyumba kinini cyane banyweramo inzoga cyangwa se akabari, karimo abantu benshi, karimo kwaka amatara y'urumuri rw'umuhondo ndetse n'intebe z'ubwoko butandukanye n'ubwoko bw'inzoga butandukanye.

Inzu isize amarangi y'umuhondo, yanditseho ijambo ry'umutuku ndetse n'icyapa cyamamaza aho banywera inzoga, kiriho amacupa abiri manini arimo inzoga. Urugi rw'umweru runini cyane rusize amarangi y'umweru.

Icyumba cyagenewe kunywererwamo inzoga cyubakishije ibiti kikaba kirimo inzoga z'ubwoko butandukanye, intebe ndende zikoze mu mbaho ndetse n'abantu bahagaze aho inzoga ziri mu kabati.

Aho banywera inzoga hari abantu benshi, intebe nyinshi ziri mumabara y'umutuku, ndeste n'ameza y'umutuku, inzu ifite amadirishya y'ibirahure akoze mubyuma, aho hantu hari urumuri rukeya rukoze mu ibara ry'umutuku.

Icyumba kinini cy'inzu cyagenewe kunywererwamo inzoga kirimo abantu bahagaze iruhande rw'ameza hakurya y'ameza hari ubwoko bw'inzoga butandukanye buri mukabati ahagenewe kubikwamo inzoga ndetse na tereviziyo iri kwerekana amashusho iruhande rwako kabati karimo inzoga hari ibyuma byagenewe kubikwamo ndetse no gukonjesha ibinyobwa n'ibiribwa.

Akabti kanini cyane karimo ibinyobwa byinshi byiganjemo inzoga, amakurete yagenewe gutwarwamo amacupa y'inzoga ajyerekeranyije intebe z'umutuku nyinshi nazo zigerekeranyije ndetse n'imiheha yifashishwa mu kunywa inzoga n'ibindi binyobwa.

Aho banywera inzoga, hubakishijwe ibiti. Inzu yubakishijwe muri rusange amatafari ahiye. Mo imbere akandi harimo ibyuma bibiri byagenewe gukonjesherezwamo inzoga cyangwa ibyo kunywa muri rusange

Icyumba kinini banyweramo inzoga kirimo ubwoko bw'inzoga butandukanye ndetse n'abantu, kikaba kirimo icyuma cyagenewe gukonjesherezwamo ibinyobwa byiganjemo inzoga ndetse n'ibiribwa hari urumuri ruke cyane rwiganjemo urw'ubururu.

Umugabo wicaye ari gusoma igitabo yicaye imbere y'ameza asize verine y'umutuku. Inyuma y'umugabo hari ishusho imanitse ku gikuta cy'inzu, kiriho ishusho y'ibitunguru ndetse n'imbuto.

Abagore babiri, umwe afite akuma gakoreshwa mu bijyanye no kwishyura amafaranga bakoresheje ikarita yabugenewe y'ikoranabuhanga, undi nawe afashe ikarita ikoreshwa mu kwishyura amafaranga hakoreshejwe ako kuma mu ikoranabuhanga.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bwo kunywa inzoga, inzoga z'amoko atandukanye zimanitse mu kabati hejuru ahagenewe kubikwa inzoga, igikuta kimwe cy'inzu kimanitseho imitako myinshi itandukanye ndetse n'ameza akoze mu mbaho.

Ikiganza cy'umugore gifite inzara zisize amarange y'umutuku, gifashe akuma gakoreshwa mu kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, ndetse n'ikindi kiganza cy'umuntu w'umugabo gifashe agakarita gakoreshwa mu kwishyura kuri ako ka, ako kuma kabigenewe.

Uruvunganzoka rw'abantu ruri aho banywera inzoga, mu bwoko bw'inzoga nyinshi ndetse na tereviziyo nini iri kwerekana amashusho y'umukino w'umupira w'amaguru.

Umutaka munini uri mu mabara y'icyatsi kibisi, munsi y'umutaka hari intebe nyinshi zirimo abantu bicaye bari gufata amafunguro, abantu batandukanye ndetse n'ibiti by'indabyo biri hafi y'abantu aho bicaye.

Umugabo ufite umusatsi mwinshi, wambaye isaha ku kaboko ke k'iburyo, wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'ijiri yagenewe kwambara abakora mu bijyanye no guteka ibyayi ndetse n'igikoma, akaba afashe igikombe cy'icyuma mu ntoki, inyuma ye hakaba hari icyuma cyagenewe gukonjesherezwamo ibinyobwa ndetse n'ibiribwa.

Inyandiko nini iriho urutonde rw'ibinyobwa ndetse n'ibiciro byabyo. Ibinyobwa byiganjemo ibijyanye n'inzoga cyane cyane ndetse n'ibiribwa bikeya.

Ikirahure kirimo inzoga giteretse ku meza, ndetse n'akadobo gatoya k'umuhondo gateretsemo inzoga zigipfundikye. Tereviziyo irikwerekanirwaho amashusho ndetse n'icyuma cyagenwe gukonjesherezwamo ibinyobwa, ndetse n'ibiribwa.

Inzoga z'ubwoko bwinshi zimanitse hejuru mu kabati ahantu hasize amarange y'umweru, intebe z'umukara ndende cyane zikoze mu byuma, umuntu w'umugabo uhagaze imbere y'inzoga wambaye ishati y'umweru.

Abantu benshi bahagaze ahantu banywera inzoga, inzoga z'ubwoko bwinshi zihari ziteretse ku meza akoze mu byuma ndetse n'urubaho, hafi igiti kinini cyane kibatwikiriye ni nijoro kuko urumuri ni rukeya.

Aho banywera inzoga hacanye amatara y'ubwoko butandukanye yiganjemo ay'umutuku n'umuhondo, inzoga z'ubwoko butandukanye ziteretse ahagenewe guterekwa inzoga intebe y'umukara nayo iri imbere yaho banywera inzoga.

Aho bafatira ibyo kunywa bitandukanye, hari amatara y'ubwoko butandukanye ay'ubururu, umutuku ndetse n'umuhondo, hari intebe ndende cyane bicaraho bari kunywa ndetse n'indabyo ziteretse aho abantu baba bari, ndetse ni umuntu uhagaze wambaye ishati y'amaboko magufi ndetse n'ipantaro y'umukara.

Aho banywera inzoga hari inzoga z'ubwoko butandukanye, amatara yaka mu ibara ry'umuhondo. Abantu benshi barimo abagabo n'abagore bahagaze iruhande rwamudasobwa ndetse n'icyuma kifashishwa mu gukonjesha ibinyobwa kirimo kwakamo amatara y'umweru.

Umuhanda mwiza cyane wubakishije amabuye, uri kugendaho ipikipiki iriho abagabo babiri bambaye ingofero zitukura, zose zagenewe kwambarwa n'abagenda ku ipikipiki, hakurya y'umuhanda haparitse imodoka ziri mu bwoko butandukanye, ndetse n'icyapa kinini cyamamaza ko aho hantu hacururizwa inzoga, icyapa kiriho icupa rinini ry'inzoga ndetse n'ikirahure kirimo inzoga.

Intebe ndende, nyinshi cyane, ziri mu bwoko butandukanye, iz'imituku, izisa igitaka, ndetse n'ibindi bikoresho byinshi, bitandukanye, biri mu kavuyo.

Umugore wicye ufashe terefone mu ntoki ufite imisatsi iziritse. akaba yicaye imbere y'ibiti bire bire biri mu mabara y'umutuku.

Icyumba kinini banyweramo inzoga kirimo abantu benshi batandukanye, urumuri rw'amatara y'umuhondo, ubwoko bw'inzoga butandukanye ndetse n'intebe z'ubwoko butandukanye.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inzu biganjemo abagabo, imbere y'inzu kandi hari intebe nyinshi zikoze mu mbaho n'amaguru akoze mu byuma, imbaho zisize verine y'umuhondo.

Televiziyo nini irimo amashusho imanitse ku gikuta, inzoga z'ubwoko butandukanye ziteretse ahagenewe guterekwa amacupa y'inzoga, hari kwaka itara rifite urumuri rw'icyatsi kibisi ndetse n'ayandi matara ari kwaka urumuri rw'ubururu.

Icyumba cyagenewe kunywerebwa mo inzoga, kirimo televiziyo, z'ubwoko butandukanye zimanitse zirimo amashusho y'ubwoko bumwe, abantu bicaye imbere y'ameza yagenewe kwicarwaho n'abanywa inzoga, ameza akaba ateretseho amatara atanga urumuri rw'umuhondo ndetse n'ibirahure birimo inzoga.

Abantu babiri bari gusangira icyo kunywa mu birahure ndetse bicaye ku meza ariho amasahani ndetse ariho n'ibiyiko binini by'umweru ameza akozwe mu mbaho zisize verine itukura hakurya yabo hakaba hari izindi ntebe zifite amaguru maremare y'umukara.

Umuhanda munini cyane ukoresheje amabuye aconze neza, ukaba uri gutambukaho ipikipiki itwaye umuntu ndetse abantu bayiriho bambaye ingofero zagenewe kwambarwa n'abatwaye cyangwa n'abagenda ku ipikipiki, hakurya y'umuhanda haparitse imodoka y'umukara ndetse hari n'inzu iriho amarangi y'umweru n'icyapa kinini cyamamaza inzoga.

Ipikipiki iparitse ku mbuga imbere y'inzu ikinguye ifite umuryango usize amarange y'umuhondo werurutse, imbere hari icyapa kinini cyane cyamamaza ko aho hari akabari aho banywera inzoga, ndetse hariho na nimero wahamagara, ushaka kumenya ibijyanye na naho hantu hakorerwa ubucuruzi.

Isambusa ziri ku isahane y'umweru, isambusa ni ikiribwa gikoze mu ifu y'ingano ndetse n'inyama, gikoze mu ishusho ya mpande eshatu kikaba gitekwa mu mavuta gusa.

Capati nyinshi ziri ku isahani y'umweruu iteretse ku meza nayo y'umweru, capati ni ibiribwa biba bikoze mu ifu ikoze yo mu ngano ndetse kandi bikaba bikaranze ku ipanu n'utuvuta duke cyane.

Ikiganza cy'umuntu ufashe capati nyinshi mu ntoki, imbere ye hari ameza y'umweru, n'akabati gakoze mu imbaho z'umweru capati ni ibiribwa byiza bikoze mu ifu y'ingano, ndetse bikarangishije amavuta.

Ibinyobwa by'ubwoko butandukanye biri mu kabati kagenewe kubikwamo ibinyobwa byiganjemo iby'imitobe ndetse n'ibyongera imbaraga akabati gakoze mu mbaho zisize irange ry'umweru ndetse n'ibirahure.

Utu ni utuzu tw'abajenti ba emutiyeni ndetse dukikijwe n'ibyapa bya eyeteri na bakiriya babagannye bari kubaha serivise zitandukanye.

Isambusa nziza z'umuhondo, zikoze muri mpande eshatu, isambusa ni ibiribwa bikoze mu ifu y'ingano ndetse n'inyama.

Umugore wambaye igitenge cyirimo amabara y'muhondo ndetse n'umutuku, wicaye imbere y'igikombe kirimo amata ndetse n'ikiyiko. afashe terephone m'intoki iruhande rwe hari icyuma cyagenewe gukonjesha ibinyobwa kiri mumarange y'umutuku, mumpande yaho hari icyuma kibikwamo amata kugira ngo atangirika, hafi hari inebe y'ubururu.

Icyuma kinini gifite ibara ry'umweru kibikwamo amata kugira ngo atangirika, ibicupa binini bitwarwamo amazi yo kunywa biri mu kabati, akabati karirimo udukarito duto tw'amata n'udukari tujyamo imitobe ikoze mu mbuto ndetse n'utubido duto cyane tujyamo amata, inzu ifite idirishya rikoze mu birarahure ndetse n'ibyuma risize irangi ry'ubururu.

Intebe y'ubururu, icyuma kibikwamo amata kugira ngo amare igihe kirekire atangiritse. Umukobwa wicaye imbere y'akameza gatoya n'umugabo umuhagaze imbere wambaye ishati y'umukara n'ipantaro ya kacye yijimye. Inyuma y'umukobwa hari akabati karimo amazi ari mu ducupa ndetse n'imitobe ikoze mu mbuto ndetse hari n'icyuma gikonjesha ibinyobwa n'ibiribwa.

Amandazi menshi cyane ari ku isahane y'umweru. Amandazi ni ibiribwa bikoze mu ifu y'ingano ndetse bikaranze mu mavuta y'ubuto.

Icyuma kinini cy'umweru cyagenewe kubwikwamo amata kiri mu nzu irimo ibintu byinshi bitandukanye imbere y'icyuma hahagaze umugore wambaye igitenge cy'umutuku kirimo ibirabyo bifite amabara atandukanye.

Ameza manini hateretseho ibikombe by'ibirahure banyweramo amata, ameza akaba ariho igitambaro kiriho amabara y'ubururu ndetse kiri mu ishusho nini y'umweru, imeza iteretseho kandi akadomoro gato k'umweru, imbere y'ameza hakaba hari intebe iri mu ibara ry'umweru.

Amakarito matoya atandukanye arimo amata ndetse n'udukombe dutoya turimo ibiryoherera bikoze mu amata ndetse no mu inkeri, utubido tw'utudomoro duto tw'umweru natwo dutwarwamo amata byose biteretse k'umeza hariho igitambaro cya kaki.

Imeza irambuyeho igitambaro kirimo amabara y'ikaki ndetse n'umukara, ikaba iteretseho isahane, isahane y'umweru ifite amabara y'umweru n'umutuku irimo irindazi ndetse n'igitambaro cyo gufatisha irindazi ndetse uruhande rw'ameza hakaba hariho intebe y'ubururu.

Icyumba kinini kirimo icyuma kibikwamo amata by'igihe kirekire ngo atangirika, akabati gatoya k'ubururu inyuma y'akabati hari amacupa manini abikwamo amazi yo kunywa, abana babiri umugabo umwe ndetse n'umukobwa umwe, akadomoro k'amata gateretse hejuru y'akabati, inzu isizemo amarange y'ubururu.

Ikureti y'amagi ikozwe mu bikarito iriho amagi menshi ndetse ikaba iteretse ku meza arambuyeho igitambaro kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Icyuma kinini cyagenewe kubikwamo amata kugira ngo atagira ikibazo by'igihe kirekire, akadumoro gatoya k'umweru kari kuvoma amata muri iki cyuma. Umuntu wicaye imbere y'icyo cyuma yambaye imyenda y'umweru, harimo ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umuryango w'inzu w'ubucuruzi ufite inzugi zisize amarange y'ubururu hejuru hariho icyapa cyamamaza gicanyemo amatara cyamamaza ahantu hacururizwa amata hanze y'inzu hari imodoka y'umweru biragaragara ko ari nijoro kuko urumuri ni ruke.

ibicu byagenewe gutwaramo amata avanankwa ahantu hamwe ajyanwa ahandi inyuma y'ibicuba hakaba hari abagabo babiri bateruye igicuba bari gusuka amata bayavana mu gicuba kimwe bayashyira mu kindi inyuma yabo hari akabati karimo ibikombe by'ibirahure byagenewe kunkwererwamo amata hafi yundi muntu wambaye umupira w'umukara w'umugabo.

Icyuma cy'amata kinini kibikwamo amata ngo atangirika gisize ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, kikaba giteretse ku makaro, ku ntebe yabigenewe y'icyuma ndetse iruhande rwacyo hakaba hari intebe y'umweru ndetse n'imeza y'umweru, inyuma hari ishusho iriho ibikomoka ku mata by'ubwoko butandukanye.

Udupfunyika twinshi turimo amandazi ndetse n'imigati, duteretse ku meza atwikirije igitambaro cy'amabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Ibicuba bitandukanye biteretse ahantu hamwe, imbere y'ibicuba hakaba hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umukara, ndetse hakaba hari n'intebe zikoze mu mbaho. Ibicuba byagenewe gutwarwamo amata ndetse no kuyabikamo.

Utudomoro dutoya tw'ubwoko butandukanye, twinshi cyane, turi kumwe n'udukarito dutoya tubamo amata. Tukaba duteretse kumeza akoze mu rubaho. Iruhande rw'idirishya ry'ibirahure by'inzu.

Inzu nini yubakishije amatafari ahiye ruriba n'ikindi gice gisizeho irange ry'umutuku ryerurutse cyane, ikaba ifite umuryango uriho ibipapuro, bigaragaza ko aho hantu hacururizwa ibikomoka ku mata, urugi rusize irange ry'umweru ndetse n'icyapa kinini kiriho ishusho y'ibikomoka ku mata byinshi.

Umuntu uhagaze inyuma y'akabati w'umugabo wambaye ipantaro y'umweru ndetse n'umupira w'amaboko maremare, akabati karimo imitobe itandukanye ndetse n'ubunyobwa, hejuru y'akabati hariho ibiryohera bikoze mu mata ndetse n'inkeri ndetse n'amasambusa. Amasambusa ni ibiribwa bikoze mu ifarini ndetse n'inyama. Imbere y'akabati hari umuntu uteruye akadomoro k'umweru.

Ameza asize irange ry'ubururu. Udukarito twinshi turimo amata ndetse n'imitobe y'inyange, akabati karimo indobo nyinshi zirimo amandazi y'ubwoko butandukanye, ndetse n'udukarito n'udushashi turimo amata, n'uducupa turimo imitobe ikoze mu mbuto zitandukanye. Akadomoro karimo amata, gateretse ku meza y'ubururu.

Icyuma kinini kiri mu mabara y'umweru kibikwamo amata cyiyarinda kwangirika, imbere y'icyuma hari ikindi cyuma cyagenewe gukonjesherezwamo ibinyobwa n'ibiribwa ndetse i ruhande rwacyo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru n'intebe z'umweru, hakurya hari umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro y'ubururu w'umugore uri imbere y'indobo irimo amandazi ku meza y'umweru.

Indobo ibikwamo amandazi iteretse ku meza, yakoze mu rubaho. Indobo nayo ni umweru impande hakaba hari intebe y'umweru nanone, byose bikaba biri mu nzu yubakishije amatafari ya ruriba, ahiye.

Icyuma cy'amata, abantu babiri, umugore n'umugabo, imeza iteretseho igikombe kinini kiri mu mabara y'icyatsi, akabati karimo amagi ndetse n'akandi kabati karimo imitobe ikoze mu matunda. Icyuma cy'amata ni igikoresho gikoreshwa mu kubika amata kugira ngo amare igihe kirekire atangiritse.

Icyumba cy'inzu kirimo umugabo uhagaze wambaye ishati y'amaboko maremare irimo karokaro ndetse n'ipantaro y'umukara, ibyuma bibiri byifashishwa gukonjesha ibinyobwa ndetse n'ibiribwa kimwe kirekire n'ikindi kigufi, intebe ebyiri ndetse n'ameza atwikirije igitambaro. Intebe imwe y'ubururu indi y'umweru.

Umugore uhagaze witeze igitambaro mu mutwe cy'ubururu kirimo amabara y'umukara yambaye ishati y'amaboko maremare ya kaki ndetse n'ipantaro y'umutuku, ateruye igikombe kinini cy'amata imbere ye hari akameza gato gasize irange ry'umweru, ari mu nzu isize irange ry'umweru ndetse n'ubururu ifite idirishya ririmo ibirahure ririmo irange ry'ubururu ndetse n'umweru.

Akadomoro gatoya k'umweru karimo amata yuzuye gateretse hasi kegereye hafi y'umuntu wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'undi mugabo wambaye ipantalo y'umukara.

Umuryango munini ufite urugi runini rusize irange ry'ubururu, inzu isakaje amabati y'ubururu ndetse ikanasigwa irange ry'umuhondo ndetse n'ubururu, imbere mu nzu harimo akabati gasize irange ry'ubururu n'umweru.

Umugore ukuze wicaye imbere y'igikombe cy'umweru afite terefone mu ntoki, ku meza arambuyeho igitambaro zifite amabara y'umukara ndetse n'ay'igitaka hafi y'icyuma kifashishwa mu gukonjesha ibinyobwa, inyuma ye hakaba hasize irange ry'umweru ndetse n'ubururu.

Isahane y'umweru iriho udusate dutatu tw'imigati isaha ne iteretse ku meza y'umukara, imigati ni ibiribwa bikozwe mu ifu y'ingano bikaba bikorwa bakabikaranga cyangwa se bakabitekesha amavuta.

Uducupa tw'ubwoko butandukanye turimo ibiryoherera bikozwe mu mata ndetse n'inyeri tukaba twegeranye n'andi amcupa maremare arimo amazi yo kunkwa. Hafi y'utwo ducupa hari utudomoro tw'umweru turimo amata bikaba byose biteretse ku meza akoze mu mbaho.

Icyuma cyagenewe kubikwamo amata ngo amare igihe kirekire adapfuye. Kikaba giteretse ku nzu ikoresheje amakaro hasi ndetse ikaba yubakishije amatafari ahiye ya Ruliba. Iruhande rw'icyuma hari imeza ikoze mu mbaho ikaba iteretseho indobo y'umweru. Iruhande rw'icyuma kandi hari intebe ikoze mu byuma bisize irangi ry'umukara ndetse n'aho kwicara h'umweru.

Icyuma kinini cyibikwamo amata kugira ngo atangirika by'igihe kirekire ndetse ku nzu ikoresheje amakaro hasi intebe y'umweru iri i ruhande rw'icyuma, idirishya rikozwe mu byuma ririmo ibirahure, akabati karimo imitobe ikoze mu mbuto ndetse n'udukarito tw'amata, utudomoro dutoya turi hejuru y'akabati tw'umweru turimo amata.

Akabati gasize amarangi y'umweru gateretseho indobo zirimo imigati, indobo ziri mu mabara y'umweru, umugabo w'umusaza uhagaze imbere y'akabati, wambaye ishati y'amaboko magufi iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'undi musore uhagaze iruhande rw'akabati uteruye akadomoro gato k'umuhondo, wambaye umupira w'icyatsi. Akabati kometse ku gikuta karimo utudomoro twinshi dutandukanye n'indi domoro nini y'umuhondo.

Abagabo benshi bari kunywa amata, mu bikombe by'imyeru byiza cyane; ndetse n'imeza iriho igitambaro kirimo amabara y'umuhondo giteretseho amasahne ariho imigati.

Isambusa ziri ku isahani y'umweru ikoze mu cyuma ziteretse ku meza akoze zi mu rubaho, isambusa ni ibyo kurya bikoze mu ifu y'ingano ifunitse, ibirayi birimo imbere bicucumye.

Igikombe cyamata gikoze mu kirahure kirimo amata giteretse ku meza y'umweru, iruhande rw'igikobe hari isahani nayo y'umweru iriho ubusa. Imeza itetse imbere y'akabati gakoze mu rubaho rw'umweru.

Akabati kanditseho amagambo yamamaza amata, kariho n'ishusho y'umwana wanyoye amata yanisize ku munwa, afite imisatsi izirikiye inyuma, umwana w'umukobwa, inyuma y'akabati hakaba hari icyuma gikonjesha ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya.

Ameza akoze mu rubaho, ateretseho indobo irimo amandazi. Amandazi akoze mu ifu y'ifarini, ndetse arokoje. Icyuma cy'amata, giteretse mu nzu yubakishije amatafari ahiye, ya ruriba.

Icyuma kibikwamo amata kiri munzu ikoresheje amakaro hasi ndetse no kumpande z'inzu, amata ni ikinyobwa kiza gifasha abantu b'ingeri zose baba abakuru ndetse n'abana bigatuma bagira umubiri ukomeye ndetse n'amagufwa akarushaho gukomera.

Akabati gakoze mu byuma, karimo amacupa yagenewe gutwara amazi yo kunyobwa. Ako kabati kaba gasize amarangi y'icyatsi cy'ikirere, kakaba kari mu nzu y'ubakishije amatafari ahiye ya ruliba. Urugi rw'iyo nzu rukaba rukoze mu byuma rusize irangi ry'ubururu bw'ikirere.

Akabati gakoze mu mbaho kariho hejuru ibyansi ndetse n'amacupa ari munsi y'ibyansi, amacupa ajyamo amazi ndetse n'agapfunyika k'igikarito cya kaki. Ibyansi ni ibikoresho, ni ibikombe binini bibaje mu biti, bikaba bikoreshwa cyane mu kunywa amata cyangwa se kubikamiramo.

Umugabo uhagaze wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, umukobwa wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'ikanzu y'icyatsi kibisi. Ameza y'umuhondo werurutse, akabati karimo imitobe y'ubwoko butandukanye ifunze mu ducupa dutoya, icyuma cyagenewe gukonjesha ibyo kunywa ndetse n'ibiribwa, intebe y'ubururu.

Icyuma kinini cyagenewe kubikwamo amata by'igihe kirekire ngo atangirika imbere y'icyuma hari ikindi cyuma cyagenewe gukonjesha abinyobwa. Kirimo utudomoro twinshi tw'amata, utudomoro dutoya tw'umweru.

Icyuma kinini cy'amata giteretse kiriho ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, kikaba kiri mu nzu yubakishje amatafari ahiye ya ruriba, inyuma y'icyuma hakaba hari akabati karimo ibidomoro binini by'umweru birimo ubusa. Icyuma giteretse ahantu hakoreshejwe amakaro.

Agakombe gatoya karimo uduti two koza amenyo, gateretse ku meza y'umweru ari mu nzu yubakishije amatafari ari munzu yubakishije amatafari ahiye ya ruriba, ndetse n'amakaro yubatse hasi.

Amacupa manini arimo amazi, ateretse mu kabati gakoze mu mbaho, kagenewe guterekwamo amazi, amazi ari iruhande rw'igikarito, rwagenewe n'ubundi gutwarwamo amazi.

Uducupa twinshi cyane duteretse ahagenewe guterekwa, utwo ducupa tukaba turimo ibiryohera cyane bikoze mu mata ndetse n'inkeri. Bikaba bikorerwa mu ruganda rukorera I Masaka.

Ibyuma bibiri, byagenewe gukonjesherezwamo ibinyobwa. Kimwe ni kirekire, ikindi ni kigufi. Umuntu ubihagaze inyuma, wambaye umupira w'umukara n'isaha ku kaboko, akabati gakoze mu mbaho, karimo ibinyobwa bidasembuye.

Abantu batatu bahagaze hamwe babiri ni abagabo, undiye ni umukobwa bose bafashe udukombe dutoya turimo ibiryohera bikozwe mu mata ndetse n'imbuto, bose bahagaze imbere y'akabati karimo ibinyobwa byiganjemo amata.

Amandazi yu meza cyane menshi kandi ari ku isahane y'umweru, ari ku isahani y'umuhondo, amandazi ari mu ibara ry'umuhondo, ry'umuhondo. Amandazi ni ibiribwa byiza bikoze mu ifu ikoze mu ngano, akaba akaranze mu mavuta y'ubuto.

Umugabo uri kunywa amata mu gikombe cy'umweru, ndetse n'undi mukobwa begeranye. N'undi muntu ubicaye iruhande, ku meza hariho igitambaro cy'umutuku, giteretseho ibikombe binini, birimo amata, by'umweru. Abantu bose bicaye mu ntebe z'umweru.

Imeza y'umukara, iriho ibyo kurya birimo icyayi ndetse na capati iri ku isahane y'umweru. Iruhande hari abantu babairi bari kureba ku meza, bari guseka cyane, harimo uwicaye n'uhagaze, bose ni bagore, ndetse n'undi umwe uri mu idirishya ry'inzu. Idirishya rikoze mu birahure n'ibyuma.

Icyapa kigaragaza ahantu haba ibikomoka ku mata kikaba kiriho utudomoro tw'amata ndetse n'akandi gakombe kabamo ibikomoka ku mata, inzu ikaba ifite umuryango munini uriho urugi rusize irange ry'ubururu.

Icyuma kibikwamo amata kiri mu nzu yubakisha amatafari ahiye ndetse n'amakaro, kikaba giteretse hafi y'ameza akoze mu giti, imbere y'icyuma hakaba hateretse intebe y'umukara, ndetse icyuma cy'amata kikaba kiriho amabara y'ubururu ndetse n'umweru n'ishusho y'inka ifite amabara y'umukara n'umweru.

Akabati gakoze mu mbaho karimo ibikombe bitandukanye by'umweru n'isahani y'umweru, hateretseho kandi indobo irimo amandazi, amandazi ni ibiribwa bikoze mu ifu y'ingano ndetse hakurya y'akabati hari akandi kabati kari mu ibara ry'ubururu gateretsemo amacupa menshi y'amazi y'ingano zitandukanye ndetse n'udukarito turimo amata dutoya dufunze.

Isambusa ziri ku isahani y' ubururu isambusa zikoze mu ishusho ya mpande eshatu zikaba zikoze mu ifu y' ingano ndetse n' inyama.

Utudomoro duto dutandukanye duteretse ahantu hubakishije amakaro hasi, utudomoro tw'umweru ndetse n'akandi kadomoro kamwe kari mu ibara ry'umuhondo.

Icyumba kifashisha gucuruza amata mu buryo bw'ikoranabuhanga, ibikombe bakoresha mu gusuka mata bayavana mu cyuma cya bugenewe igikombe kinini cy'umweru ndetse n'umuntu uri gusuka amata ayavana mu gikombe kimwe ayashira mu kindi.

Ibidomoro bibiri bigerekeranyije biri by'umweri mu nzu ndetse umuryango uriho urugi rw'ubururu ruriho ibyapa byamamaza amata biriho ishusho y'inka ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Indubo irimo amandazi, indobo ebyiri ziteretse ku meza y'urubaho ikaba ari urugi imbere yaho rusize amarangi y'ubururu ameza akaba ateretse ku makaro, inzu irimo ayo mandazi n'iyo ndobo ikaba yubatse hafi y'umuhanda wa kaburimbo.

Icyapa kinini cyane kiri mu mabara y'ubururu cyamamaza ahacururizwa ibikomoka ku mata. Icyapa kandi kiriho amashusho y'amacupa atandukanye yubwoko butandukanye harimo amazi, idomoro nini cyane ndetse n'ikindi gicupa kinini cyane kijyamo amazi. Byose akaba ari ibicuruzwa bikorerwa mu ruganda rw'inyange.

Ibyo kunywa biryohereye biri mu ducupa twinshi dutandukanye tw'ingano zitandukanye. Bikaba biri mu makurete yagenewe gutwarwamo ibyo kunywa biryoheye; bikozwe mu mata ndeste n'amatunda. Ndeste akabati gakozwe mu byuma, gateretseho utudomoro duto cyane twinshi tw'umweru turimo amata.

Icyumba cy'inzu gisize amarange y'umuhondo umugore wambaye ikanzu y'ubururu n'ingofero ya kaki ku mutwe, amacupa menshi atandukanye amwe yagenewe gukomeza gushyushya ibinyobwa byagiyemo ndetse n'akadomoro gatoya k'ibara ry'umuhondo gateretse ku meza akoze mu mbaho.

Imeza y'umweru ntoya iteretseho indobo irimo capati imineke amagi ndetse n'indi ndobo irimo amandazi menshi cyane, ikaba iteretse mu muryango ufite urugi rusize irange ry'umweru, inzu ikaba isize ibara ry'ubururu, ikaba yubatse hafi y'umuhanda wa kaburimbo iriho n'icyapa cyiyobora kiri mu masangano y'umuhanda.

Icyumba kinini kirimo icyuma cyagenewe kubikwamo amata kinini kiriho irange ry'umweru ndetse n'ubururu, imbere y'icyuma hakaba hari ibido nini cyane y'umweru iri kujyamo amata, imbere hakaba hari icyuma cyagenewe kubikwamo amata no kuyakonjesherezwamo, hakaba hari umugore muto wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umwana mutoya w'umuhungu.

Akabati karekare gasize amarange y'ubururu karimo amata ari mudukarito ndetse n'imitobe iri mudukarito ikoze mu mbuto munsi harimo uducupa turimo amazi imbere y'akabati hariho icyuma kibikwamo amata imbere yacyo hari indobo ndende y'ubururu imbere yako kabati gato hari akandi kabati karimo amagi ndetse gateretseho n'indobo irimo capati.

Amandazi menshi cyane ari kugisahani kinini cyane cy'umweru, amandazi nibiribwa bikundwa nabantu bingeri zitandukanye akaba akozwe mwifu yingano ndetse agakarangwa mumavuta menshi.

Umugabo wicaye mu ntebe y'umweru ufashe akadomoro k'umweru akaba ari gusuka amata mu gikombe kinini cy'umweru, inyuma ye hakaba hari akabati gasize amarange y'umweru ndetse n'ay'icyatsi kibisi.

Indobo y'umweru irimo capati n'indi irimo amadazi, akabati karimo udukarito turimo amata atandukanye y'inyange ndetse, n,icupa ry'amazi. Udukarito turimo imitobe ikoze mu matunda.

Inzu ifite imiryango minshi y'ubucuruzi ikaba yubakishijwe amatafari ahiye, imbere y'inzu hari imbuga nini cyane yagenewe guparikamo imodoka haparitsemo imodoka y'umweru ndetse hari gutambuka umukobwa wambaye agashati gato k'umuhondo ndetse n'ipanaro y'ubururu.

Ibyuma byagenewe kubikwamo amata, biteretse hasi ku makaro ku ntebe zabigenewe guterekwaho, inzu isize amarange y'ubururu, akadobo k'umweru gateretse hasi, ndetse n'igikombe kinini gikoreshwa mu gusuka amata giteretse hejuru y'imashini, aka meza k'umweru nako gateretse ku makaro.

Umuryango w'inzu uriho urugi rusize amarange y'ubururu. Hirya y'urugi hateretse ibidomoro binini by'umweru biteretse hafi y'icyuma gikonjesha ibinyobwa ndetse n'ibiribwa. Inzu yubakishije amatafari ahiye ya ruriba ndetse hasi hakoreshejwe amakaro.

Uduceduce duto twinshi cyane tw'umugati turambitse ku meza akoze mu rubaho, asize verine y'umuhondo. Umugati ni ikiribwa cyiza gikoze mu ifu y'ingano, kiba cyokejwe kikavamo ikiribwa gitera imbaraga gikunda gukoreshwa ku biryo bya mugitondo.

Inzu icururizwa amata ifite urugi rusize amarange y'ubururu ndetse n'icyapa cyamamaza ko aho hantu haba ibikomoka kumata, imbuga ikoze mumabuye ndetse n'amatafari akoze muri sima n'umucanga, imeza y'umweru intebe z'ubururu ndetse n'indobo y'amazi yo gukaraba k'umuryango winzu.

Intebe zifite amaguru y'umukara akoze mu byuma ndetse n'igice cyo kwicaraho gikoze mu ruhu rw'umweru, imeza y'umweru ifite amaguru y'umukara, hakurya y'imeza hari igishushanyo kiriho umadomoro dutoya tw'umweru turimo amata ndetse n'ibara ry'ubururu.

Igiti kinini cy'ururabyo gite aha cyonyine mu itaka gusa hakurya yacyo hakaba hari ibyatsi bigufi byiza, umuntu uhagaze imbere y'ameza y'umweru akoze mu cyuma ari gusukwamo, ateretseho igikombe kinini bari gusukamo amata bakoresheje indobo y'umutuku, ayo meza ateretseho kandi akadomoro gatoya k'umuhondo, inzu ifite idirishya rinini rikoze mu cyuma ndetse rifite ibirahure byinshi.

Umugore ukuze wambaye ishati ikoze mu mabara y'umuhondo ndetse n'umutuku. Yicaye ku ntebe y'ubururu, inyuma ye hari icyuma cyagenewe gukonjesherezwamo ibinyobwa ndetse n'ibiribwa. Ameza atwikiriweho igitambaro kiri mu mabara kiri mu mabara y'umukara ndetse n'umuhondo, ateretseho igikombe kirimo amata ndetse n'isahani iriho ibiribwa by'imyumbati; na terefoni iteretse ku meza.

Akabti karekare gakoze mu mbaho karimo ibidomoro bibiri by'umweru birimo ubusa akabati kandi kakaba kari mu nzu yubakishije amatafari ahiye ya ruriba.

Utudomoro duto twinshi cyane tw'ibara ry'umweru turi mu tubati dutonze k'umurongo tukaba turi mu tubati dukoze mu byuma dusize irange ry'umukara.

Icyuma kibikwamo amata kiri mu nzu gifite idirishya rikozwe mu birahure ndetse no mubyuma, icyuma giteretse mu nzu yubakishije amakaro hasi.

Indobo y'umweru irimo amandazi kandi iteretse ku meza akoze mu rubaho. Imbere y'indobo hari umuhanda wa kaburimbo, hakurya y'umuhanda hari ibiti byinshi ndetse urugi rusize irange ry'ubururu.

Ibicuba byinshi cyane birambitse ku makaro bikirimo amata menshi ndetse n'utudumoro dutoya tw'umweru ndetse n'utundi tw'umuhondo, ibicuba ni ibikoresho n'ibikombe binini bikoreshwa mu gutwara amatara makeya bayavana ku ikusanyirizo rimwe bayajyana ku rindi kusanyirizo.

Amacupa abiri yagenewe gushyirwamo ibinyobwa kugira ngo bigumane ubushyuhe wavuga urugero nk'igikoma, hafi yaho hakaba hari akadobo karimo capati, inyuma bikaba biteretse ku meza asize irangi ry'ubururu mu nzu ifite urugi rukoze mu byuma rusize irangi ry'ubururu ndetse n'umweru.

Icyuma cyifashishwa kubika amata by'igihe kirekire aho bayacururiza. Akabati gakoresheje ibirahure n'imbaho karimo amagi ateretse ku isahani. Akameza gatoya gateretseho igikombe kinini cyifashishwa mu gusuka amata. Umugabo uhagaze mu nzu isize amarangi y'ubururu uhagaze imbere y'akabati karimo imitobe ndetse n'udukariso turimo amata. Umugabo wambaye umupira utukura.

Abantu bari kunywa amata bicaye ku ntebe z'imyeru, ameza y'imyeru ndetse bari kunywera no mu bikombe by'umweru bikoze mu birahure.

Ikurete itwarwamo amagi itukura, hejuru y'ikurete hakaba hari agapfunyika karimo umukati, ikurete iteretse hejuru y'imeza iriho amarangi y'ubururu ndetse n'umweru.

Icyuma kinini kibikwamo amata giteretse mu cyumba gisize amarange y'ubururu ndetse n'umweru hahagazemo umugore wambaye ishati y'amaboko maremare n'ijipo y'umweru irimo amabara y'umukara.

Imeza ikoze mu rubaho iteretseho igikombe kinini cy'umweru kirimo amata, ikaramu y'ubururu, umuntu ufashe irindazi mu ntoki, irindazi rikoze mu ifu y'ifarini ndetse rikaranze ku ipanu.

Umuryango w'ubucuruzi ucururizwamo amata, icyuma kibikwamo amata kugira ngo adasaza vuba ndetse hari umuntu w'umukobwa wicaye urahande rw'icyuma cy'amata, imbere y'inzu haparitse imodoka y'umweru, inzu yubakishije amatafari ahiye ya ruriba.

Icyuma kinini cy'ubururu kijyamo amata kibikamo amata, kugira ngo atangirika by'igihe kirekire, imeza iriho irangi ry'ubururu ryanditseho n'amagambo menshi y'umweru abantu babiri b'abagore bambaye imyenda y'umweru, ndetse bambaye n'ingofero z'umweru.

Akabati karimo ibyo kunywa bitandukanye imitobe itandukanye, ndetse n'ibyo kunywa byongera imbaraga, umukobwa wicaye ku ntebe y'ubururu nawe wambaye ikoti ry'ubururu. Akameza gatoya kari mu ibara rya kaki n'umugabo ugahagaze imbere wambaye ishati y'amabiko maremare ya karo karo, intebe ntoya y'ubururu iri imbere y'akameza.

Icyuma k'inzu kinini gifite umuryango munini ufunguye, kirimo ameza ateretse ho akadomoro k'umweru ndetse n'intebe ikoze mu rubaho, imbere y'ameza hahagaze umukobwa wambaye ikanzu y'umutuku, imbere y'ameza kandi, hari icyuma kinini k'iki kega kikoze mu cyuma.

Icyuma kinini cyagenewe kubikwamo amata kugira ngo adasaza kandi amare igihe kirekire, iruhande rwacyo hakaba hari ikindi cyuma cyagenewe gukonjesherezwamo ibinyobwa ndetse n'ibiribwa, hakurya y'icyuma cyibikwamo amata hari akabati karimo amacupa mato y'amazi yo kunywa amacupa ari mu bwoko butandukanye.

Imeza nini iteguyeho igitambaro gifite amabara y'ibirabyo, igikombe cyuzuye amata cy'ikirahure, abantu batatu bari iruhande rw'ameza, harimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe ukuze.

Inzu y'ubucuruzi ifite umuryango uriho urugi rusize amarange y'ubururu, imbere y'inzu hari icyapa kigaragaza ko aha hantu hakorerwa ubucuruzi bw'amata, imbere y'inzu hari imeza y'umweru n'intebe z'ubururu ndetse n'umutaka w'umutuku.

Akabati gakoze mu mbaho gateretseho ibyo kunywa by'ubwoko butandukanye, birimo ibyiganje ibikoze mu mbuto ndetse n'amacupa maremare y'amazi, akabati kakaba kari ku gikuta cy'inzu gisize amarangi y'umweru ndetse n'ubururu.

Isahane y'umweru iriho ikanya ndetse n'ikiyiko, biteretse ku meza y'umweru, umuntu ufashe igikombe cy'umweru kirimo amata. Isahani ikaba iriho umukati ukoze mu ifarini. Imbere y'ameza hakaba hari umuntu wambaye ipantaro y'umuhondo.

Umugore ukuze ufite imisatsi miremire iboshye, ndetse yambaye igitenge kirimo amabara y'umuhondo n'umutuku. Ameza ateretseho amandazi n'igikombe kirimo amata, gikoze mu kirahure. Icyuma cyagenewe gukonjesherezwamo ibinyobwa n'ibiribwa kiri mu mabara y'umutuku. Ndetse n'icyuma cyagenewe kubikwamo amata.

Icyuma kibikwamo amata kinini kiri mu ibara ry'umweru, umuntu uri kuvoma amata mu cyuma akoresheje igikombe, hanze y'icyuma hari indobo y'icyatsi kibisi iteretse munsi y'icyuma, hakurya y'icyuma hari akabati karimo udukarito twinshi tw'amata dutoya.

Icyuma cyagenewe gukonjesherezwamo ibinyobwa ndetse n'ibiribwa, kirimo akadomoro gato k'umweru karimo amata ndetse n'igikombe kinini cy'umweru n'ikindi gito cy'ubururu, agacupa k'amazi, kiba giteretse iruhande rw'urukuta rw'inzu rwubakishije amatafari ahiye ya ruriba ndetse n'akandi kameza k'umweru gateretse iruhande rw'icyo cyuma, iki cyuma kirafunguye.

Akazu k'umuhondo gatoya gafunguye amadirishya mu mpande zose, kari imbere y'ibiti by'ubwoko butandukanye gateretse mu mbuga, gahagazeho umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ubururu ndetse n'umugore wambaye ishati y'umuhondo n'agakabutura k'umukara.

Akazu k'umuhondo gateretse hafi y'umuhanda ahantu har ibiti byinshi cyane by'umukindo, indabyo z'umukindo, umuhanda wubakishije amapave, akazu k'umuhondo, kamenyereweho gukorerwamo ibikorwa byo kohererezanya no kwakira amafaranga ku buryo bw'ikorana buhanga ryifashisha telefone.

Akazu gato k'umuhondo gakorerwamo ibijyanye no kubitsa, kubikuza, ihererekanya ry'amafaranga, hifashishijwe umurongo w'ikoranabuhanga wa telefoni. Kari hafi y'umuhanda ndetse no hafi y'utwatsi twiza dutoshye tw'ubusitani, imbere y'inzu zisize amarangi y'umuhondo.

Akazu k'umuhondo, imbere y'akazu hari umuntu uhahagaze w'umugabo uri kuvugira kuri telefone, wambaye umupira urimo amabara y'icyatsi kibisi, umweru, umukara; wambaye n'ipantaro y'umukara. Akazu kagenewe gukorerwamo ubucuruzi bujyanye n'ihererekanya ry'amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga, ryifashisha telefone.

Mudasobwa iri gukoreshwa iteretse ku kameza k'umuhondo umugabo uyihagaze imbere w'umukara ndetse n'amataratara y'umukara abandi bantu bari imbere ye harimo umugore wambaye agashati k'icyatsi kibisi ndetse n'undi wambaye umupira w'umutuku n'umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare itukura ufashe agaterefone mu ntoki.

Inzu nini isize amarangi y'umuhondo ndetse n'amatara menshi yaka ibara ry'umweru, inzu ikaba isize amarangi y'umuhondo cyane hejuru ku gisenge, icyapa cyamamaza aho hantu ko hakorerwa ibijyanye na serivise zitumanaho, ndetse na serivisi zo koherezanya amafaranga mu uburyo bw'ikoranabuhanga.

Akazu k'umuhondo gafite amadirishya yose afunguye mu mpande zose, kicaye mo umugore wambaye imyenda y'umweru ufite imisatsi miremire y'umukara, hanze y'akazu haparitse imodoko ndetse hari n'ibiti byinshi byiza, hari abagabo babiri bahahagaze, umwe wambaye ishati y'icyasti kibisi, undi wambaye umupira w'umuhondo.

Utuzu tubiri dutota kamwe k'umutuku n'akandi k'umuhondo, akazu kamwe k'umuhondo imbere hahagazeho umugore wamabye ipantaro iriho ibirabyo ndetse n'ishati y'umukara, akazu k'umuhondo kariho umugore wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara utuzu twombi twagenewe gukorerwamo ihererekenya ry'amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Ameza y'umweru ateretseho telefone nayo y'umweru, ndetse n'utwuma twifashisha mu buryo bwo kwishyura hakoreshejwe ikarita y'ikoranabuhanga. Umugore wicaye imbere y'ameza ndetse na mudasobwa iteretse ku meza. Umugore yambaye ishati y'amaboko maremare y'amaboko y'umweru, ndetse n'ijipo y'umukara.

Imodoka nyinshi z'ubwoko butandukanye ziparitse aho bagurira ibijyanye na peteroli, ndetse n'imashini ikoreshwa mu gucuruza ibikomoka kuri peteroli, abagabo babiri bahagaze begeranye umwe wambaye ikabutura n'umupira w'amaboko magufi y'igitaka, umwe afashe telefone mu ntoki, indu yambaye umupira w'umuhondo ipantalo y'umukara.

Umutaka mutoya w'umuhondo uteretse ku mbuga ikoresheje amatafari akozwe muri sima n'umucanga . Nyuma y'umutaka w'umuhondo hicaye abandi bantu benshi bicaye munzu ikoresheje shitingi yubatse imbere y'indi nzu nanone nini y'ubucuruzi hafi y'aho hari umuzindaro w'umuziki ,buri kazu k'umuhondo k'umutaka hakaba harimo abantu bambaye imyenda y'umuhondo.

Urukuta rw'inzu ruriho icyapa cyamamaza kiriho ishusho y'umubyeyi ukuze ufite imisatsi y'imvi uhetse umwana wambaye agapira k'umuhondo w'umuhungu, kikaba kiriho uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanda ndetse n'uburyo bwo kugura ifatabuguzi ryo guhamagara.

Isoko ry'ibiribwa risakaje amabati ndetse ryubakishije ibiti, ririmo abantu benshi batandukanye ndetse ririmo n'ibiribwa bitandukanye, harimo karoti, intoryi ndetse n'ibindi biribwa byinshi.

Abakobwa babiri beza bari guseka bambaye imyenda y'umuhondo, bakaba bicaye bose ndetse bakaba bicaye iruhande rw'ahantu na none hari igikuta kiriho amabara y'umuhondo.

Akapa gatoya k'umuhondo gakozwe muri mpande enye. Kariho uburyo bwo kwishyura amafaranga mu gihe haguzwe ibicuruzwa, ariko hakishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga rya terefone.

Umugabo ukuze wambaye ishati y'amaboko maremare y'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara akaba yicaye ku igare, akaba ari imbere y'abandi bantu benshi cyane bari kumureba. Yambaye umupira kandi mugufi w'umuhondo, ahagaze imbere y'umutaka, umutaka urimo abantu benshi batandukanye.

Inzu ntoya ifunyuye y'umuhondo cyane iriho ibyapa byamamaza ikigo cy'ikoranabuhanga muri iyo nzu, ndetse hanze hari abantu benshi bahahagaze bambaye imyenda itandukanye biganjemo abagabo.

Ameza akoze mu mbaho zijya kuba umweru, hakaba hariho ingofero imyenda igifunitse mu ishashi ikoze mu ibara ry'umuhondo, inyuma y'iyo meza hakaba hari umugabo uhahagaze wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, inyuma ye hari igitambaro kinini cy'umuhondo.

Abagabo babiri bicaye imbere y'ameza akoze mu rubaho rw'umuhondo ndetse n'amaguru y'ibyuma asize irange ry'umukara, umugabo umwe wicaye afashe telefone mu ntoki undi wicaye afite ibyo kurya mu ntoki, bose bambaye amapantaro y'ubururu undi afite agakapu k'umukara mu ijosi.

Akazu k'umuhondo kagenewe gukorerwamo ibitsa/ihererekanya ry'amafaranga muburyo bw'ikoranabuhanga. Ryifashisha telefone ndetse inyuma y'akazu hakaba hari abandi bagabo batatu bahahagaze, umwe yambaye umupira w'umutuku w'amaboko magufi undi yambaye umupira w'amaboko magufi uri mu ibara ry'igitaka.

Umuntu w'umugabo wicaye afashe telefone mu ntoki ari kuyikanda mukirahure cyayo, ndetse yambaye umupira wa kake akaba afite n'agakapu k'umukara kari mu ijosi.

Icyapa cy'umuhondo kigaragaza uburyo bwo kwishyura amafaranga mu gihe haguzwe ibicuruzwa hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga bukoresheje telefone.

Umuntu uhagaze mu myenda myinshi cyane, igurishwa imanitse umuntu wambaye ishati irimo umuhondo cyane akapa kariho nimero bakoresha bishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga ryifashisha telefone.

Akazu gato k'umuhondo gafunguye amadirishya yose, kari hafi y'umuhanda, ku ruhande rw'igipangu k'inzu rwubakishije ibyuma, ndetse umuhanda wa kaburimbo ukaba uhagazeho abantu benshi bategereje imodoka yo kubatwara.

Icyumba kirimo abantu benshi abicaye ku ntebe zicarwaho n'abaje gusaba serivise ndetse inzu ikaba arimo tereviziyo imanitse ku gikuta ndetse n'ikizana umuyaga mu nzu, hakaba hari abantu bahagaze aho basabira izo serivise bategereje ko bakirwa.

Abantu benshi bari aho bohererezanya amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga, utubati dutoya dukoze mu mbaho ndetse dusize amarangi y'umuhondo, abantu benshi bambaye imyenda y'umuhondo igaragaza abakora ubucuruzi bwo kohererezanya amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Ipikipiki iparitse imbere y'icyapa cy'umuhondo kiriho igishushanyo kinini cyane cy'imodoka, icyo cyapa kikaba kiri mu ishusho y'ibara ry'umuhondo ryanditseho amagambo menshi, ipikipiki na yo ni umuhondo ndetse ikaba ihagazweho umugabo na we wambaye umupira w'umuhondo n'ishati ndende y'umweru, wambaye n'amataratara.

Akazu k'umuhondo, gateretse inyuma y'igipangu cyubakishije amatafari ahiye ndetse n'ibyuma. Akazungu gafunguye imiryango yose, kakikijwe n'abantu benshi batandukanye. Mu kazu harimo umugore wambaye umupira w'umukara. Akazu kagenewe gukorerwamo ibijyanye n'ihererekanya ry'amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Akazu k'umuhondo kagenewe gukorerwamo ubucuruzi bw'iyererekanya ry'amafaranga bukoresheje ikoranabuhanga. Muri ako kazu harimo umugore wambaye umupira w'umukara, inyuma y'akazu hari umugabo wambaye ishati y'ubururu bw'ikirere ndetse n'ipantaro y'umukara, inyuma y'akazi hari ibiti birebire bifite ibyatsi n'amababi atoshye.

Abagabo babirir bari kubyina imiziki y'indirimbo ndetse n'indangururamajwi y'imizindaro imanitse icyapa kiri mu mabara y'umutuku n'umuhondo kirimo kwamamaza ibikorwa bya sosiyete y'itumanaho ndetse n'umuntu w'umugore wambaye ipanaro y'umukara irimo imirongo y'umweru ufashe mikoro mu ntoki.

Icyumba kinini kirimo intebe zagenewe kwicarwamo abantu batereje guhabwa serivise, hakaba imeza nini cyane iri mu ibara ry'umweru n'umukara, imbere mo imbere, hakaba hari abantu bambaye imyenda y'umuhondo, inyuma y'ameza hakaba hari abandi bantu bahari, umwe yambaye ikanzu iri mu ibara ry'umutuku n'umuhondo undi wicaye imbere y'ameza yambaye umupira w'icyatsi kibisi.

Akazu gato cyane gakoze muri shitingi y'umuhondo kegeranye n'akandi gakoze muri shitingi y'ubururu, hanze y'ako kazu k'umuhondo ndetse na mo indani mu kazu harimo abantu benshi biganjemo urubyiruko rw'abasore.

Utuzu duto dutoya twubakishije shitingi y'umuhondo, tukaba twubatse ku imbuga yibitaka. Imbere mu utuzu harimo utubati dutoya tw'umuhondo duhagazeho abantu bambaye imipira y'umweru.

Inzu ndende ifite amadirisha y'ibirahure irimo abantu benshi biganjemo abagabo bambaye imyenda y'imikara, harimo umugore umwe ufite imisatsi iboshye wambaye ikote ry'umukara.

Abagabo babiri umwe wambaye umupira w'umuhondo n'ingofero y'umuhondo ndetse n'undi wambaye ikoti ry'umukara bose bafite terefone mu ntoki, bahagaze iruhande rw'imodoka y'umukara iparitse iruhande rw'inzu ifite amadirishya arimo ibirahure.

Akapa gatoya k'umuhondo kariho uburyo bwo kwishyura ibicuruzwa hakoreshejwe ikoranabuhanga rikoresha telefone, akapa kakaba kari mu ishusho y'igi.

Abantu benshi biganjemo abana, n'abagore n'abagabo. Abagabo babiri bari gusuhuzanya baseka cyane, bambaye imipira y'umuhondo. Abantu bose bakaba bahagaze imbere y'umutaka w'umuhondo. Umutaka w'umuhondo ukaba uteye hafi y'inzu yubakishije amatafari ahiye.

Abagabo batandukanye bicaye mu mutaka w'umuhondo ndetse n'undi w'umutuku wegeye hirya. Umugabo umwe akaba yicaye afite telephone ebyiri mu ntoki. Hakurya yabo hari umuhanda w'igitaka hakurya y'umuhanda w'igitaka hari ubwoko bw'amazu menshi butandukanye bwubatswe mu buryo butandukanye.

Abantu bahagaze imbere y'inzu isize amarangi y'umuhondo, ndetse abenshi muri bo bakaba bambaye imyenda y'imihondo yiganjemo imipira. Umwe yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu bw'ikirere n'inkweto z'umweru. Bose bahagaze imbere y'inzu bategereje guhabwa serivise.

Akazu gato k'umuhondo kariho imbere umugore uhahagaze akazu kamenyereweho gukorerwamo ihererekanya ryamafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga, inyuma y'akazu hari ibiti byiza birebire bifite amababi y'icyatsi kibisi, impande y'ako kazu hari imbaho nyinshi cyane zikoze ibintu bijya kuba intebe.

Inzu irimo ibishushanyo by'amagorofa maremare, ikaba irimo umugore umwe urimo imbere wiacye imbere ya mudasobwa z'ubwoko butandukanye. Imbere ye hakaba hari abantu babiri umuhungu n'umukobwa bambaye imyenda y'umukara. Imbere hakaba hari intebe zagenewe kwicaramo abategereje ko bakirwa bagabaha serivse, zikaba zicayemo umuntu wambaye umupira w'umutuku.

Akazu gacururizwamo gatangirwamo serivise z'itumanaho kari mu ibara ry'umutuku ikirangantego cya eyeteri ndetse ahatangirwa serivise z'itumanaho.

Akapa gatoya k'umuhondo kari mu ishusho y'urukirampenda, kariho uburyo bwamamaza bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga ry'amakarita cyangwa se rikoresheje telefone.

Inzu ntoya iriho umuhondo irimo abantu benshi ndetse n'inyuma y'inzu hakaba hari imizindaro. Imbere y'inzu hari abantu bahahagaze, no mo imbere harimo abantu bahagazemo bari gucuruza amatelefone.

Akapa gato k'umuhondo gateretse hasi ku makaro. Akapa kariho imibare ikoreshwa mu kwishyura ibicuruzwa hakoresheje ikoranabuhanga rikoresheje telefone. Aka kapa, gafite ishusho ya mpande enye, gafite kandi ibara ry'umuhondo.

Abantu benshi, bari mu mutaka w'umuhondo, w'amabara y'umuhondo. Inyuma y'umutaka hari imitaka mito, myinshi, iri mu mabara y'umweru. Muri uwo mutaka kandi harimo abambaye imyenda y'umuhondo myinshi. Ndetse na mudasobwa igendanwa.

Akazu gato k'umutuku gahagazeho abantu batatu abagabo babiri ndetse n'umugore umwe. Umugabo umwe yambaye imyenda isanzwe ya kake, undi yambaye ipantaro ya kake n'ishati y'umweru ngufi. Akazu gateretse imbere y'inzu isize amarangi y'umuhondo ndetse n'ubururu.

Akazu k'umuhondo, gafunguye amadirishya, gahagazemo umugabo wambaye umupira urimo imirongo y'umweru ndetse n'iy'igitaka. Hanze y'akazu hari insina ndetse n'ibyatsi bitoshye. Hakurya y'insina hari indi nzu nini cyane, yubakishije amatafari ya sima, ndetse inasakaje amabati y'umutuku.

Akazu gato k'umutuku, kariho ishusho y'umukobwa ufite imisatsi miremire y'umukara. Akazu gafunguye amadirishya kari ahantu hari ibiti byinshi cyane. Akazu kagenewe gukorerwamo ihererekanya ndetse kubitsa no kubikuza amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga ryifashisha telefoni.

Imodoka ziparitse ziri mumarangi zisize amarangi y'umukara imodoka imwe irimo umuntu w'umugabo ufashe agapapuro mu intoki undi muntu uhagaze hanze y'imodoka imwe wambaye umupira w'umuhondo, imodoka yometseho agapapuro k'umuhondo gato kamenyesha uburyo bwo kwishura ukoresheje terefone.

Akazu k'umuhondo gatoya gateretse munsi y'ibiti byinshi hakurya y'umuhondo ndetse n'iruhange rw'inzira y'abagenzi akazu gafunze imiryango yose ariko ni akazu kagenewe gukorerwamo ihererekanya ry'amafaranga ryifashishwa ikoranabuhanga rikoresheje terefone.

Akazu k'umuhondo gatoya gateretse ahantu hafi y'igisambu hari ibyatsi byinshi bitoshye, akazu gafunguye idirishya ry'imbere mu idirishya hahagazemo umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'amaboko magufi urimo imirongo y'umweru ndetse n'umukara, aka kazu kagenewe gukorerwamo ibijyanye n'ihererekenya, kubitsa no kubikuza amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Akazu gato k'umuhondo gasize amarangi y'umuhondo. Mo imbere mu kazu harimo umuntu wicaye w'umugabo, wambaye agashati k'akajire k'amabara y'umuhondo yambaye agapfukamunwa. Undi mugabo ari hanze y'akazu, yambaye ingofero y'umukara, ishati irimo ibirabyo y'amaboko maremare n'pantaro y'ubururu. Akazu gakorerwamo ibijyanye n'ubucuruzi bw'amafaranga.

Akazu k'umuhondo gafunguye amadirishya yose, karimo umugore wambaye umupira w'umukara n'imisatsi iziritse inyuma. Inyuma y'akazu hari abagabo benshi bahahagaze harimo uwambaye ishati y'umutuku, n'uwambaye umupira w'umweru.

Umugore mwiza wambaye umupira w'umweru, uhagaze imbere ya mudasobwa iteretse ku meza, imbere ye hakaba hari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ya karo karo, ndetse hakaba hari itara hejuru ku nzu, riri kwaka riri kumurika.

Imeza ikoze mu byuma ndetse n'ikirahure, ikaba iteretseho agakarito karimo telefone ndetse n'akandi kapa k'umuhondo kariho uburyo bwo kwishyura amafaranga, ibicuruzwa ariko ukoresheje ikoranabuhanga rya telefone.

icyapa gitoya cy'umuhondo gikoze mu ishusho y'urukiramende kikaba kiriho uburyo bwifashishwa mukwishyura ibiribwa cyangwa se ibicuruzwa hakoreshejwe ikoranabuhanga rikoresha telefone

Akazu gatoya k'umuhondo gafunguye amadirishya yose, inyuma y'akazu hari inzu yindi isakajwe amabati ndetse inasize irangi ry'umuhondo, aka kazu karemewe gukorerwamo ihererekanya ry'amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga ryifashishije telefoni.

Abantu bahagaze imbere y'icyapa cyamamaza uburyo bwo kugura ifatabuguzi ryo guhamagara kuri terefone, ndetse nabo bakaba bambaye imyenda y'umuhondo n'ingofero z'umukara, imbere y'icyapa hakaba hari undi mugore wambaye ikanzu y'umweru, hakurya hakaba hari ibiti birebire byinshi kandi bisa neza.

Abantu babiri, umugabo n'umugore bahagaze begeranye, umugabo wambaye umupira w'icyatsi kibisi ndetse n'akagofero gatoya, umugore wambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'umupira w'umuhondo, bahagaze imbere y'akazu gato k'umuhondo, gakorerwamo ibijyanye no kohereza, kwakira, kubika amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga bwifashisha telefoni.

Abagabo babiri bahagaze hagati yabo harimo igare risize amarange y'umweru ndetse n'umukara, umugabo umwe yambaye umupira w'umuhondo undi yambaye umupira w'umukara inyuma yabo hari ururabyo rwiza rufite amababi maremare, inyuma yabo hakaba hari icyapa cyamamaza uburyo bwo kwishyura ikiguzi ukoresheje ikoranabuhanga ryibanda cyane kuri telefone.

Agatelefone gato cyane k'umukara gafashwe n'ikiganza cy'umuntu, kakaba karimo kwishyura ibicuruzwa gakoresheje ikoranabuhanga ry'imibare.

Abagore batatu bahagaze imbere y'imitaka myinshi iri mu ibara ry'ubururu ndetse bahagaze imbere yabo hari akameza gatoya kariho igitambaro cy'ubururu abagore batatu babiri bambaye imipira y'umuhondo undi yambaye umupira w'ubururu umwe muri bo yambaye ingofero y'umukara.

Imodoka nyinshi zihagaze mu rusisiro rw'imihanda. Ahari abantu bahagaze mu mutaka w'umuhondo bambaye imyenda y'umuhondo, bakaba bakora ubucuruzi bw'ihererekanya ry'amafaranga kubitsa no kubikuza hakoreshejwe ikoranabuhanga rya terefone n'imodoka z'ubwoko bwinshi ziparitse hafi yabo.

Akazu gato k'umuhondo gateretse mu mbuga imbere y'indi nzu gafunguye amadirishya y'impande zose. Mu mpande zako hahagaze abagabo bambaye imyenda itandukanye, Ako kazu mu imbere harimo umuntu w'umugore wambaye umupira w'umutuku werurutse. Aka kazu kagenewe gukorerwamo ibijyanye no koherezanya, kubitsa ndetse n'ihererekanya rya mafaranga muburyo bw'ikoranabuhanga.

Umugabo wicaye ku ipikipiki wambaye ikote ry'umukara afashe telefone mu ntoki ari kuyivugiraho, undi muntu w'umugore umuhagaze imbere ufite telefone mu ntoki wambaye umupira w'umuhondo.

Akapa gato k'umuhondo kariho imibare ikoreshwa mu buryo bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga rya telefone. Gateretse ku meza, ameza y'umukara, ameza nayo ateretse hasi ku makaro.

Abantu benshi bahagaze mu gatsiko mu busitani, intebe yo ikoze mu cyuma akameza gatoya gateretseho amazi yo kunywa, ibiti byinshi cyane byiza biteye mu busitani bw'indabyo ngufi.

Umutaka munini w'umutuku urimo abantu benshi, batonze umurongo bari kugura terefone zo guhamagara. Umutaka ukaba ushinze ku mbuga, yubakishije dutafari dutoya dukoze muri sima n'umucanga.

Inzu ifite icyumba kinini kirimo abantu b'ingeri zitandukanye ziganjemo abagore, inzu igaragara ko icururizwamo ibijyanye n'ikoranabuhanga nk'amaterefone ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga.

Abagabo babiri umwe ahagaze inyuma y'ameza, yambaye umupira w'umukara urimo imirongo y'umweru n'umutuku undi nawe ari imbere ya mudasobwa iteretse ku meza yambaye umupira w'umuhondo bose bafashe telefone mu ntoki zabo.

Akapa gatoya k'umuhondo kometse ku gikuta cy'inzu gisize amarangi y'umweru, ako kapa komekeshejwe imisumari, akapa kampande enye k'umuhondo kerekana uburyo bwo kwishyura ibicuruzwa biguzwe aho hantu ukoresheje ikoranabuhanga ryifashisha telefone.

Umutaka munini ufunguye uriho imeza ikikijwe n'ibitambaro by'umuhondo ndetse n'imipira y'umuhondo, iteretseho amatelefone ari gucuruzwa n'abagore babiri, imbere y'umutaka kandi, hari ibyatsi byinshi cyane ndetse n'amapoto atwara amashanyarazi hariho insinga nyinshi z'amashanyarazi.

Utuzu tubiri twegeranye twagenewe gukorerwamo ihererrekanya ry'amafaranga yifashisha terefone turimo abantu, utwo tuzu turimo abantu, utwo tuzu kamwe n'umuhondo akandi n'umutuku, kamwe karimo umuntu wambaye umupira urimo amabara y'umutuku n'umweru akandi karimo uwambaye irurimo amabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Akazu k'umuhondo kari mu imbuga ikozwe n'amabuye y'utubuyenge, inyuma yakazu hari ibiti byishi cyane kandi birebire, ako kazu karimo umukobwa wambaye imyenda y'umukara ndetse hanze y'akazu hahagaze umugabo wamabaye ishati y'amaboko maremare y'ubururu n'ipantaro y'umukara, ako kazu kagenewe gukorerwamo ibiryanye n'iherererekanya ry'amafaranga m'uburyo bw'amafaranga.

Icyapa cy'umuhondo kiriho inimero, n'uburyo bwo kwishyura ibicuruzwa hakoreshejwe ikoranabuhanga. Hariho imibare ishobora kwishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga rya telefone mu buryo bwo kwishyura, udakaswe amafaranga.

Aho bagurira ibikoresho by'itumanaho bya telefone, byiganjemo kugura ifatabuguzi ryo gumahagara, ndetse n'amatelefone. Ni inzu ifiite urugi runini cyane, rukoze mu birahure, ndetse ruriho n'ibyapa by'umutuku.

aho bagurira ibikomoka kuri peteroli bikoreshwa mu modoka ndetse moto iparitse umuntu ufashe telefone uri kwishyura akoresheje ikoranabuhanga umuntu numugabo wambaye umupira w'umweru hakurya hari amazu menshi asakajwe amabati yumutuku

Umugore uri mu mutaka w'umuhondo na we yambaye imyenda y'umuhondo, inyuma ye hari agasafuriya gato ndetse n'akadomoro gato k'umweru, hari iyarara ryinshi cyane ry'imyanda, ndetse n'igisanduku kinini cyane gikoze mu cyuma gisize ibara ry'icyatsi kibisi.

Inzu irimo icyumba kirimo abantu benshi batanga serivise y'itumanaho, inzu isize amarange y'umuhondo, ikaba irimo ibyapa byinshi byamamaza ibijyanye na serivise zo kohereza, kwakira amafaranga ndetse no kwizigama.

Akazu gatoya k'umuhondo kicayemo umuntu gafunguye imiryango kariho ishusho y'umusaza wamamaza, ndetse ako kazu kagenewe gukorerwamo ihererekanya no kubitsa amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga hanze y'akazu hari umwana muto cyane uri kugenda hanze y'akazu.

Icyumba cy'ucuruzi, kirimo ibicuruzwa bitandukanye. Harimo umugore umwe, wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro itukura. Umubyeyi ukuze, wambaye igitenge kirimo amabara y'igitaka ndetse n'ubururu. Afite imisatsi migufi, y'umuhondo ndetse n'umutuku. Undi muntu uri mu bicuruzwa, w'umucuruzi, yambaye umupira w'umweru, n'imisatsi iboshye, miremire.

Umuntu wicaye ufite terefone mu ntoki irimo ibara ry'umuhondo. Umuntu w'umugabo wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'umweru, ufite agakapu gatoya k'umukara.

Icyapa kiriho imibare ikoreshwa mu buryo bwo kwishyura ibicuruzwa mu gihe bibaye ngombwa ko hishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga rikoresha Telefone.

Umutaka mutoya ukoze mwibara ry'umuhondo ukaba uteye mubusitani bwibyatsi bidatoshye cyane ukaba kandi uri hafi yinzu yubakishije amatafari ahiye muruwo mutaka harimo abantu benshi bingeri zitandukanye babagabo ndetse nabakobwa.

Akapa gato k'umuhondo gafite ishusho y'urukiramende kariho imibare y'uburyo bishyura bakoresheje ikoranbuhanga rya terefone, ako kapa gafite ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru gateretse mumeza y'umukara.

Akapa gatoya k'umuhondo gateretse ku meza mu nzu isize amarange y'umuhondo, akapa kariho imibare ikoreshwa mu buryo bwo kohereza no kwishyura amafaranga mu gihe hari igicuruzwa kiguzwe, ariko hakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga.

Akazu gato k'umuhondo gafunguye amadirishya, imbere yako kazu hahagaze abagabo babiri umwe yambaye ikanzu y'ubururu bw'ikirere, undi yambaye ishati y'igitaka y'amaboko magufiya, aka kazu kakaba karagenewe gukorerwamo ibijyanye no guhererekanya amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga bwifashisha terefone.

Abantu benshi bambaye imyenda itandukanye bari mu cyumba gisize amarange y'umuhondo bahagaze imbere ya mudasobwa ziteretse ku meza y'umukara, umugore umwe mu baje gusaba serivise yambaye agashati gato karimo ibara ry'umutuku ndetse n'ijipo y'umukara undi yambaye ishati y'umukara.

Inzu ntoya iteretse hanze, inzu ifite amabara y'umutuku imbere yayo hari umugore wicaye wambaye umupira w'amaboko magufi w'umuhondo inyuma yayo hakaba hari imodoka y'umweru ikikijwe n'abantu biganjemo abagabo. Inzu ntoya ikaba ifite amabara y'umutuku ikaba yaragenewe gukorerwamo ubucuruzi bw'ihererekanya ry'amafaranga kuri murandasi.

Icyapa cy'umuhondo cyanditseho amagambo y'umukara cyamamaza uburyo bishyura ibicuruzwa bakoresheje ikoranabuhanga mu buryo bwo kwishyura udakaswe amafaranga mu gihe uguze ukoresheje ubu buryo.

Umutaka w'umutuku munini cyane, ukaba urimo abantu bambaye imyenda itandukanye yiganjemo abagabo bambaye imipira itukura ndetse n'ingofero zitukura, bahagaze ku kameza k'umutuku gafite ukuguru kumwe.

Mudasobwa ziteretse ku meza y'umukara. Umugabo uri imbere ya mudasobwa wambaye umupira w'umuhondo. Inyuma ya mudasobwa kandi hari abantu babiri, umugore ndetse n'umugabo. Umugabo wambaye ingofero y'umukara n'umupira w'igitaka n'umugore wambaye umupira w'icyatsi kibisi.

Akazu gato k'umuhondo gateretse mu mbuga ndetse gafunguye imiryango yose, hanze y'akazu hahagaze abantu karimo abagore ndetse n'umugabo umwe, inyuma y'akazu hari urugo rwubakishije ibyuma ndetse n'akandi kazu kubakishije amashitingi arimo ay'icyatsi kibisi n'ubururu.

Icyumba cy'inzu gisizemo amarangi y'umutuku ndetse n'umweru, kikaba kirimo ishusho iriho abakobwa babiri bishimye cyane bafashe telefoni mu kiganza ndetse n'akabati gakoze mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru karimo terefone mo imbere gakikijwe gafungishwa ibirahure.

Umugabo uhagaze imbere y'akazu k'umutuku, karimo umuntu wambaye umupira w'umutuku, ako kuzu kakaba karagenewe gukorerwamo ibijyanye n'ihererekanya ry'amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga, inyuma y'akazu hakaba hari ibindi bikorwa ndetse n'amazu y'amagorofa n'imodoka z'ubwoko bwinshi.

Akazu k'umuhondo gafunguye amadirishya yose, inyuma y'akazi hari abantu b'abagabo benshi bambaye imyenda itandukanye, inyuma y'akazu hari inzu nziza ifite amadirishya y'ibirahure, akazu karimo bandi bantu babiri, akazu kagenewe gukorerwamo ihererekanya ry'amafaranga, hifashishijwe ikorabuhanga rikoresheje telefone.

Akazu Gato k' umuhondo gafunguye amadirishya mumpande zose, karimo umukobwa mutoya wambaye ishati y'amaboko maremare, hanze y'akazu hari abandi bagabo babiri ,bambaye imyenda iri mu ibara ry' ikigina, aka kazu kagenewe gukorerwamo ihererekanya no kubitsa amafaranga muburyo bw' ikoranabuhanga ryifashisha Telefone.

Abantu babiri bafashe terefone mu ntoki zose ziri kwaka umwe yambaye umupira w'umutuku akaba bose bari imbere y'ameza akoze mu rubaho rw'umweru.

Akazu gato k'umuhondo gafunguye imiryango yose. Akazu kagenewe gukorerwamo ihererekanya kubitsa no kubikuza amafaranga muburyo bw'ikoranabuhanga hifashishijwe telefone. Hanze y'akazu hakaba hari abandi bantu harimo umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse n'umugore wambaye ishati y'icyatsi kibisi.

Umugore uri guseka, ufashe apaka kariyo imibare bakoresha bishyura ibicuruzwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Afite telefone mu ntoki, yambaye akajiri k'umuhondo mu gatuza. Yambaye ingofero y'umweru, ndetse afite agatambaro k'umweru mu mutwe. Inyuma ye hari intebe y'umukara, ndetse hari n'abandi bantu benshi, harimo umubyeyi uhetse umwana.

Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo n'ipantalo y'ubururu ufashe indangururamajwi mu ntoki ze. Inyuma ye hari abandi bantu bicaye muri shitingi ikozwe mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru, bose bambaye imipira y'umuhondo ndetse n'amapantalo y'ubururu, inyuma yabo hari insina nyinshi cyane zisa neza.

Akazu k'umuhondo gafunguye imiryango yose ndetse n'amadirishya, gateretse ahantu mu ndabyo nyinshi ndetse n'ibiti birebire hanze y'akazu hahagaze abantu benshi harimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe wambaye ishati y'umutuku mu kazu harimo abandi bantu batatu umugore, umugabo ndetse n'undi mugabo nanone wambaye ishati y'umutuku.

Akazu gato k'umuhondo kari hanze y'indi nzu nini iriho ibyatsi byinshi cyane akazu gafunguye amadirishya yose karimo abantu hanze y'akazu hari umuhungu umugabo wambaye umupira w'umweru n'igikapu mu mugongo akazu kagenewe gukoreramo ibijyanye no gucuruza amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Ipikipiki iparitse aho bagurira ibikomoka kuri peterori. Uyitwaye n'umugabo wambaye umupira w'ubururu wa maboko maremare ndetse ingofero y'umukara yagenewe kwa mbarwa n'abatwaye ipikipiki. Umugabo urigushyira peterori mu ipikipiki yambaye umupira w'umuhondo yegeranye n'undi mukobwa nawe wambaye umupira w'umuhondo, inyuma yabo hari undi umugabo wambaye ishati y'umweru.

Ikiganza cy'umukobwa gifashe telefone mu ntoki kiri gukoresha uburyo bwo kugura ifatabuguzi ryo guhamagara bukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga.

Akapa gato, k'umuhondo, ka mpande enye, kometse ku cyuma gikorehwa mu gukonjesha ibinyobwa ndetse n'ibiribwa. Akapa gatoya kariho imibare ikoreshwa mu kwishyura ibicuruzwa, mu gihe bibaye ngombwa ko hishyurwa hakoreshwajwe ikoranabuhanga rya telefone.

Umutaka munini uri mu ibara ry'umuhondo ndetse harimo abagabo benshi buri wese ahagaze mu buryo bwe, hari umwe wambaye ijire y'umuhondo ucuruza amafaranga ndetse no kugura ifatabuguzi ry'amafaranga ryo guhamagara kuri telefone y'umucuruzi, inyuma y'umutaka kandi hari ibiti binini by'indabyo.

Ikiganza cy'umuntu gifashe agaterefone gatoya, ikurete zagenewe gutwarwamo inzoga ndetse n'imitobe. Inyuma y'agaterefone hari akapa kariho imibare ikoreshwa mu kwishyura ibicuruzwa mu buryo bukoresheje ikoranabuhanga.

Akazu k'umuhondo karimo ubucogocogo ndetse kicayemo umukobwa ufite imisatsi miremire y'umutuku ndetse wambaye ishati y'amaboko iri mu mabara y'umweru, aka kazu k'umuhondo kakaba karagenewe gukorerwamo ihererekanya ry'amafanga rikoresheje ikoranabuhanga rikoresha terefone.

Isahane y'umweru iriho udusate dutatu tw'imigati isaha ne iteretse ku meza y'umukara, imigati ni ibiribwa bikozwe mu ifu y'ingano bikaba bikorwa bakabikaranga cyangwa se bakabitekesha amavuta.

Abagabo babiri bahagaze imbere ya mudasobwa iteretse ku meza y'umukara, bakaba bambaye imyenda y'umuhondo n'umupira y'imihondo ifite amaboko magufiya, imbere yabo hakaba hahagaze undi mugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro ya kaki ari kubabaza ibijyanye na serivisi yaje gusaba.

Umuhanda wa kaburembo, uparitseho ibikamyo bya rukururana by'amabara y'umweru, hakuno y'umuhanda hari akazu gato k'umuhondo karimo umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi, uri kwandika mu gitabo, hanze y'akazu hari umukobwa mwiza ufite imisatsi iboshye wambaye agasengeri k'ibirabyo.

Akazu k'umuhondo gafunguye imiryango ndetse n'amadirishya mu mpande zose, karimo umugore wambaye umupira w'umuhondo. Kakaba gakorerwamo ihererekanya no kubitsa amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga ryifashisha telefoni, kakaba gateretse ku mbuga iruhande y'indi nzu nini y'ubucuruzi isize amarangi y'umutuku.

Abagabo batatu bahagaze begeranye, umwe yambaye umupira w'umuhondo, undi na we yambaye umupira w'umuhondo urimo amabara y'umukara, undi na we yambaye ishati irimo amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, bose bakaba bahagaze imbere hagati yabo harimo akabati gakoze mu birahure, hejuru hariho terefone ziteretse hejuru y'ako kabati.

Umuntu w'unugabo wicaye akaba afite agakapu k'umukara akana afashe telefone mu ntoki, terefone nini ifite ikirahure cy'unururu.

Abantu babiri bahagaze begeranye umugabo n'umugore, umugore ufite terefone mu ntoki umugabo wambaye ingofero y'umuhondo ndetse n'umupira w'umuhondo bahagaze imbere y'inzu.

Akazu gato k'umuhondo gafunguye amadirishya yako gateretse ku mbuga y'ibitaka, inyuma yako kazu hari igiti kirekire cyane ndetse hari n'indi mitaka ikoze mu ibara y'umutuku, ako kazu kagenewe gukorerwamo ihererekanya kubitsa amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga rya terefone.

amAkazu gato k'umuhondo gateretse hanze karimo umugore ufite imisatsi miremire y'umukara, hanze hari undi wambaye umupira mugufi wamabara y'umutukuzu kagenewe gukorerwamo ubucuruzi bw'ihererekanya ry'amafaranga kubitsa no kubikuza mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Abakobwa batatu bicaye imbere y'ameza bambaye imyenda y'imihondo, inyuma y'aho kugikuta hamanitse tereviziyo irimo ibara ry'umuhondo. Inyuma y'aho Kandi hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ingofero y'umuhondo. Imbere yayo meza har'undi mukobwa muremure wambaye ipantaro ya kacyi ndetse n'ishati idafite amaboko, imisatsi miremire myiza y'umukara.

Imyenda yiganjemo amapataro ndetse n'amashati bimanitse ndetse, ndetse n'itara rinini cyane.

Agapfunyika gakozwe mu bikarito gateretse ku meza akoze mu mbaho. Imbere, inyuma y'agapfunyika hari ibyatsi byiza by'indabyo byiza cyane.

Ipikipiki ziparitse hanze ahantu hari ibiti byinshi by'ubwoko burebure kandi butandukanye, ndetse ipikipiki ziitwaye udusanduku kamwe kari mu mabara y'umutuku ndetse n'umuhondo, akandi kari mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru.

Umuhanda mwiza, ukoze mu mabuye aconze neza. Ukaba uhagazeho ipikipiki itwawe n'umugabo wambaye ishati ngufi, y'icyatsi kibisi. Yambaye n'ingofero yagenewe kwambarwa abagenda ku ipikipiki, na yo ifite ibara ry'icyatsi kibisi. Ipikipiki kandi itwaye igisandugu kiri mu mabara y'icyatsi kibisi.

Icyapa cyamamaza uburyo bwo kugura urwandiko rwo kwinjira ahari bubere igitaramo cy'indirimbo, kikaba kiriho amashusho y'abahanzi batandukanye ndetse naho wakura urwandiko rwo kwinjira ahari bubere urwandiko rwo kwinjira mu gitaramo cy'indirimbo.

Icyapa kimenyesha ko abagore nabo bagomba gufata iya mbere mu kurwanya ibyorezo, hariho amashusho y'abagore batandukanye, bibumbiye hamwe mu gukora iyo ngamba.

Amapikipiki aparitse hakuno y'umuhanda, amapikipiki atwaye udusanduku tw'amabara y'umutuku, hakuno y'umuhanda wa kaburimbo, imbere ya kaburimbo hari igipangu kizengurutse igorofa ry'inzu, imbere hafi y'inzu hari ibiti by'imikindo byiza cyane igipangu gisize irange ry'umuhondo.

Ipikipiki iparitse iruhande rw'igorofa ndende, irimo amadirishya akoresheje ibirahure, hejuru hakaba hari icyapa cyamamaza ko aho hantu hari hoteli. Iyo pikipiki ikaba ihagazweho n'abagabo babiri bambaye amashati y'icyatsi kibisi. Iyo pikipiki kandi ikaba iriho agasanduku gafunikishije igishashi kiri mw'ibara ry'icyatsi kibisi.

Umugabo ufashe telefone mu ntoki, wambaye ishati y'ubururu bw'ikirere, ndetse ateze igitambaro mu mutwe, kirimo amabara y'umweru n'umukara.

Ishusho ya terefone irimo kwamamaza ibikorwa bicururizwa kuri murandasi harimo imyambaro y'abagabo, amapantaro, amashati byose bikozwe mu muco wa kinyarwanda.

Inzu isize amarange y'umuhondo, ifite urugi rw'umukara, rukoze mu byuma n'ibirahure, imbere mu nzu harimo imyenda imanitse, ndetse n'umuntu w'umugore ufite imisatsi miremire y'umukara, ndetse wambaye umupira w'umukara.

Icyapa kiriho imboga z'ubwoko butandukanye bucururizwa kuri murandasi hariho ubwoko bw'imboga butandukanye ndetse n'amafaranga bigura higanjemo inyanya, ibitunguru, tungurusumu n'izindi mboga za epinari ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ipikipiki ihagaze iriho umugabo wambaye umupira w'umutuku, ndetse n'ipantaro y'ubururu. Akaba yambaye n'ingofero yagenewe kwambarwa n'abagenda kw'ipikipiki. Ipikipiki ikaba kandi itwaye igisanduku kinini cy'umutuku.

Amapikipiki atwawe n'abagabo bambaye imyenda itukura, ndetse n'ingofero zagenewe kwambarwa abantu bagenda ku mapikipiki, zihagaze mu muhanda ukozwe muri kaburimbo amazu yubakishije amatafari ahiye asakajwe amabati y'umutuku, ibiti bitoshye byiza biteye hafi y'umuhanda ndetse n'ibyatsi bigufi byiza.

Ipikipiki ihagaze imbere y'inzu itwaye agasanduku kari mu ibara ry'ubururu, inyuma yaho hari umuntu w'umugabo uhahagaze wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umutuku werurutse. Inyuma hakaba hari inzu nanone kandi isize amarangi y'umutuku ndetse n'andi marangi y'ubururu bwerurutse.

Ipikipiki iparitse yicayeho umugabo wambaye umupira w'umutuku n'umuhondo, ipikipiki nayo ikaba iriho igikapu kinini kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umutuku.

Amaguru y'umuntu, inkweto z'umukara ntoya zirimo amabara y'ikigina, zihagaze imbere y'idirishya rigizwe n'ibirahure ndetse n'ibyuma.

Icyapa cyamamaza ubucuruzi bukorerwa kuri murandasi. Kikaba kiriho ishusho y'isaha igaragaza ko ibicuruzwa bigerwa ku bantu vuba vuba kandi byihuse, nta gukererwa.

Ipikipiki itwaye igisanduku kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku n'umukara, ipikipiki kandi ikaba itwawe n'umugabo wambaye imyenda y'umukara ndetse yambaye n'ingofero yagenewe kwambarwa n'abatwaye amapikipiki.

Icyapa kinini, cyamamaza isoko rikorera kuri murandasi, kikaba kiriho ubwoko bwinshi bw'ibiribwa, byiganjemo ibikiri bibisi, harimo ibitoki, inanasi, inyanya, amashu, inyama. Hakaba hariho n'uburyo bwo kwishyura, ukoresheje ikoranabuhanga.

Ishusho ya mudasobwa igendana irimo amashusho y'ibintu bigurishwa byiganjemo imyenda inuma ya mudasobwa hari indi shusho y'imyenda yiganjemo imipira yo kwambara irimo amabara atandukanye.

Isoko rinini ririmo ibikurete byinshi batwaramo ibitoki, ibikurete bikaba bipanze ku murongo n'ibindi bijagaraye, hakaba harimo abagore benshi bambaye isarubeti iri mu mabara y'ubururu bwijimye n'utugofero tw'umweru bambaye mu mutwe.

Ipikipiki iparitse ku muhanda wa kaburimbo uruhande rwaho abanyamaguru banyura umugabo uhagaze imbere y'ipikipiki wambaye ingofero yabagenewe kugenda ku ipikipiki. Ipikipikipiki kandi itwaye agasanduku gakoze mu mabara y'umutuku gapakiyemo udupfunyika dutandukanye.

Ipikipiki iri kugenda iri kugenda itwawe n'umugabo wambaye umupira mugufi w'umuhondo ndetse ikaba itwaye igikapu kinini kirimo amabara y'umutuku ndetse n'umuhondo umugabo utwaye ipikipiki yambaye ingofero yagenewe kwambarwa n'abagenda ku ipikipiki y'umutuku, hakurya y'ipikipiki hari ibiti byinshi cyane bicucitse ariko bisa neza.

Inzu ndende y'igorofa isize amarange y'umuhondo ndetse n'ubururu bwijimye, imbere yaho haparitse amapikipii atwawe n'abantu, bambaye imyenda y'umuhondo, hafi y'amapikipiki hari imodoka, nazo zisize amabara y'umuhondo ndetse n'ibara ryijimye ry'ubururu.

Icyapa cyamamaza isoko rikorera kuri murandasi rikaba ari isoko ricuruza ibiribwa byiganjemo imboga ndetse n'imbuto, rikaba ryamammaza rivuga yuko ricuruza ibicuruzwa byose kandi rikabigeza ku abakiriya k'ubuntu ntakiguzi cy'urugendo.

Umugabo uhagaze kuruhande rwipikipiki, itwaye agasanduka kumuhondo karimo afapfunyika gakoze mwikarito, uwo mugabo yambaye ingofero yagenewe kwambarwa abagenda kwipikipiki, ipikipiki ikaba iparitse hafi yahantu hari igiti ndetse n' indabo inyuma yinzu yubakishije amatafari manini akoze muri sima isize irange ry' umweru kugice kimwe.

Amapikipiki menshi aparitse mu mbuga ikoresheje amatafari akoze muri sima ndetse n'umucanga, amapikipiki yose akaba ari ubwoko bukoresha amashanyarazi, akaba atwawe n'abagabo ndetse amapikipiki akaba afite udusanduku dukoze muri/mu marange y'umutuku ndetse n'umweru, abantu bayatwaye bakaba bambaye ingofero zageneye abatwara amapikipiki.

Umuntu uri mu modoka wambaye imyenda y'ubururu umupira mugufi w'ubururu n'ingofero afite agapfunyika gakoze mu ikarito ya kaki imodoka isize amarange y'umweru ndetse n'ay'ubururu.

Umuhanda ufite isuku ukoresheje amatafari akoze muri sima urukuta rurerure rw'ubakishije amabuye ndetse akabari kubakishije ibiti umutaka w'umutuku ndetse n'intebe z'umutuku.

Inzu y'ubucuruzi, isize amarange y'umweru, iriho amadirishya akoze mu birahure ndetse n'ibyuma, na yo asize amarange y'umweru. Imbere y'inzu hari imbuga nini, ikoresheje sima n'umucanga. Iparitseho imodoka nyinshi.

Umuntu utwaye igare yambaye ishati y'amaboko magufi y'icyatsi kibisi, ndetse n'ingofero yagenewe kwambara abatwara igare, iryo gare kandi rihetse igikapu kinini kiri mu mabara y'umukara ndetse n'icyatsi kibisi, umugabo utwaye igare yambvaye amataratara y'umukara.

Ipikipiki itwawe n'umuntu wambaye ishati y'icyatsikibisi, wambaye n'ingofero nayo y'icyatsi kibisi yagenewe kwambarwa n'abantu bagenda ku ipikipiki. Ipikpiki ikaba itwaye agakapu gakoze muri mpande enye kamabara y'icyatsi kibisi, iruhande rw'ipikipiki hakaba hari indabyo nziza z'icyatsi kibisi, zisa neza cyane.

Ipikipiki iparitse imbere y'igipangu gikoze mu cyuma ndetse n'ibara ry'icyatsi kibisi, umugabo uhagaze iruhande rw'pikipiki ku mbuga uteruye agafunyi kagaku mu gikarito, yambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'ubururu n'ingofero yagenewe kwambarwa n' nabagenda ku ipikipiki, ipikipiki kandi itwaye agasanduku kari mu ibara ry'umutuku, iruhande rw'ipikipiki hari igiti kinini.

Inzu isa neza ikoze mu buryo butunganyije kubera mo isoko, isoko ririmo ibintu byinshi bitandukanye by'ibicuruzwa biri ahabugenewe kubika ibicuruzwa mu tubati.

Icyapa cyamamaza amavuta yo kwisiga y'abagore kiriho ishusho y'umukobwa mwiza cyane ufite umusatsi mukeye w'umukara urimo guseka. Icyapa cyamamaza uburyo ibiciro by'amavuta byagabanuweho mirongo itanu ku ijana.

Icyapa cyamamaza isoko ryo kuri murandasi, kikaba kiriho aho ibicuruzwa bishobora guturuka mu bihugu bitandukanye biza mu gihugu waguriyemo, abari kandi kikaba cyamamaza ko ari uburyo bwizewe kandi bworoshye.

Icyapa kiriho ibicuruzwa n'amafaranga bigura bicururizwa kuri murandasi, kikaba kiriho ibicuruzwa byinshi byiganjemo ibiribwa by'imboga z'ubwoko butandukanye burimo inyanya, insenda, ibitunguru ndetse n'ibindi.

Umugabo utwaye igare wambaye ishati y'amabobo magufi y'icyatsi kibisi, yambaye kandi ingofero yagenewe kwambarwa n'abatwaye igare, uyu mugabo kandi yambaye amataratara y'umukara, iryo gare kandi rihetse igikapu kinini kiri mu mabara y'umukara ndetse n'icyatsi kibisi.

Umugabo utwaye ipikipiki umugabo akaba yambaye ingofero yagenewe kwambarwa n'abatwaye ipikipiki, ipikipiki ikaba ihetse agasanduku kari mu ibara ry'icyatsi kibisi, imbere y'ipikipiki hakaba hari ibiti n'ibihuru byinshi cyane bifite ishusho y'icyatsi kibisi.

Umuuryango w'inzu ukorerwamo ubucuruzi ibikoresho bya elegitoronike hakaba hari ibikarito birimo ibikoresho mu muryango hakaba hahagazemo umuntu wambaye ishati irimo amabara y'umweru ndetse n'umukara imbere y'umuryango w'inzu hateyeho indabyo ndetse haparitseho amapikipiki ku mbuga.

Ipikipiki iriho umuntu w'umusore wambaye umupira w'icyatsi kibisi, ufite n'ingofero yagenewe kwambarwa n'abagenda ku ipikipiki. Ipikipiki ifite amabara y'umukara ikaba itwaye agasanduku karimo amabara y'umukara ndetse n'icyatsi kibisi hakurya y'ipikipiki hakaba hari ibiti birebire byiza biri mu mabara y'icyatsi kibisi.

Amapikpiki aparitse hakuno y'umuhanda wa kaburimbo, akaba atwawe n'abagabo bambaye ingofero zagenewe kwambarwa n'abatwaye amapikipiki, amapikipiki kandi akaba atwaye imizigo iri mu dukapu tw'umutuku. Hakurya y'umuhanda hari igipangu kinini gisize amarangi y'umuhondo, imbere mu gipangu harimo ibiti binini by'imikindo ndetse n'inzu ndende z'amagorofa.

Icyapa cyamamaza aho wagurira ibikoresho by'ikoranabuhanga byiganjemo ibikoresho bikoreshwa mu kongera ubukonje bw'ibinyobwa ndetse n'ibiribwa, hari ubwoko bwinshi bw'ibyo bikoresho byongera ubukonje bw'ibinyobwa.

Umugabo uhagaze ku igare riparitse imbere y'igipangu cy'inzu gifite urugi runini rufite ibara ry'igitaka, umugabo atwaye igikapu kinini cy'icyatsi kibisi, ndetse yambaye ishati ngufi mu mabara y'icyatsi kibisi, ipantaro y'umukara, ku gipangu hariho ibirabyo byinshi cyane kandi byiza.

Umugabo ufite agapfunyika gakoze mu gikarito cya kaki karimo imbuto imboga ndetse n'amavuta yo guteka, akaba ari guseka cyane yambaye ishati ngufi yo mu ibara ry'icyatsi kibisi, imbere ye kandi hakaba hari igikarito kinini cyinditseho amabara y'umwe inyuguti z'umweru kiri size ibara ry'icyatsi kibisi.

Ipikipiki ntoya ihagaze iruhande rwa kaburimbo ipikipiki Kandi itwaye agasanduku gatoya kari mumabara y'icyatsi kibisi, inyuma y'iyo pikipiki yahagaze abantu babiri umwe yambaye ingofero yagenewe kwambarwa n'abagenda ku ipikipiki bose ni abagabo, bahagaze imbere y'igipangu kinini kiriho urugi runini rusize amarange y'ubururu

Imodoka nini cyane ihetse igisanduku gikoze mu cyuma gisize amarangi y'umuhondo ndetse n'ubururu bwijimye, iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, inyuma yaho hakaba hari amazu menshi y'amagorofa.

Ipikipiki iparitse itwaye agasanduku k'umutuku, hejuru y'agasanduku hariho agapfunyika, gafashwe n'ikiganza cy'umuntu. Iparitse imbere y'urukuta rw'amabuye, urukuta rurerure hajuru y'urukuta hakaba hateyeho ibyatsi by'indabyo bigufi byiza.

Umukobwa wicaye ku myenda y'umweru, akaba yambaye ipantaro y'igitaka, imufashe ndetse n'agapira gafite ubururu bwerurutse cyane. Umukobwa afashe telefone mu ntoki, ndetse afite imisatsi y'umukara miremire.

Ibiti byiza byiganjemo indabyo, agapikipiki gatoya gatwawe n'umugabo wamabaye ikote ry'ubururu wambaye n'ingofero y'icyatsi kibisi yagenewe kwambarwa n'abatwaye amapikipiki, umukobwa mwiza w'inzobe wambaye agapira k'umweru, akaba ari kwakira agapfunyika kari mugapfunyika k'umukara ari guhabwa n'umugabo utwaye ipikipiki.

Abagabo babiri, bafashe mu ntoki ingofero zagenewe kwambarwa n'abagenda ku mapikipiki. Abagabo bose bakaba bambaye imyenda y'umukara, kandi bakaba bambaye amataratara.

Umugabo utwaye ipikipiki, yambaye ingofero ya kaki, yambarwa n'abatwaye amapikipiki. Ipikipiki kandi ikaba itwaye igisandugu kiri mu ibara ry'umutuku. Hafi y'ipikipiki hakaba haparitse indi modoka, ziri mu bwoko butandukanye.

Imodoka y'umutuku iparitse hanze y'inzu ifite igipangu cyubakishije amatafari ahiye ndetse n'urugo rw'ibyuma, imodoka y'umutuku iriho icyapa cyamamaza ubucuruzi bukorerwa kuri murandasi.

Ipikipiki iparitse ku ruhande rw'umuhanda ihagazeho umugabo wambaye ishati ngufi y'amaboko magufi ndetse iri mu mabara y'icyatsi kibisi yambaye n'ipantalo ya kaki, akaba yambaye n'ingofero yagenewe kwambarwa n'abagenda ku ipikipiki, ipikipiki kandi itwaye agasanduku k'icyatsi kibisi umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti birebire.

Ipikipiki iparitse ku mbuga, imbuga ikoze mu matafari akoze muri sima n'umucanga. Iyo pikipiki kandi itwaye agasanduka kari mu ibara ry'icyatsi kibisi. Iruhande rw'ipikipiki hari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse ishati irimo amabara ya karo karo y'umutuku n'umweru n'ubururu. Ipikipiki kandi iparitse hakuno y'umuhanda wa kaburimbo.

Ishusho y'icyapa kigaragaza ubucuruzi bikorerwa kuri murandasi, bwambukiranya imipaka. Amashusho ane y'amabendera y'igihugu bine, bitandukanye, bishobora gukorerwamo ubwo bucuruzi.

Ishusho y'inzu y'igorofa rirerire rifite ibirahure mu mbavu, mu mpande zayo. Hejuru hakaba hari indi shusho y'imeza ikoze mu imbaho isize verine y'umutuku.

Umukobwa mwiza ufite imisatsi iboshye wambaye umupira w'icyatsi kibisi ari gufungura agasanduku nako k'icyatsi kibisi, inyuma ye hari ibiti byiza by'icyatsi kibisi.

Inzu nini iriho umuryango uriho urugi rusize ibara ry'icyatsi kibisi. Mu nzu harimo ibicuruzwa by'ivanzemo imboga n'imbuto. Hejuru y'urugi icyapa kinini kiriho gishushanyijeho imboga z'ubwoko bwose zicururizwa muri iryo soko.

Abagabo babiri bahagaze ahantu haparitse ipikipiki imbere yabo hari amazu asize amarange y'umuhondo, ipikipiki y'umutuku ihagaze itwaye igisandugu kiri mu mabara y'umutuku. Umugabo umwe yambaye ingofero yagenewe kwambarwa n'abari kugenda ku ipikipiki, undi mugabo yambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantalo ya kaki.

Ipikipiki iparitse hakuno y'umuhanda ku imbuga ikoresheje amatafari akoze mu isima n'umucanga, ipikipiki ikaba itwaye agasanduku kari mu ibara ry'ubururu, hakurya y'umuhanda hari urukuta rurerure rwubakishije amabuye ndetse n'urundi rukuta rwubakishije amadafari ahiye iruhande yaho hakaba hari ubusitani bw'ibyatsi bigufi.

Imodoka nyinshi zifite igisanduku cy'umuhondo, imodoka zifite ibara ry'umweru. Imodoka ziparitse munsi y'inzu yubakishije ibyuma iriho amarangi y'icyatsi kibisi ndetse n'amadirishya arimo ibirahure.

Amapikipiki abiri ari kugenda mu muhanda atwaye abantu bambaye ingofero zagenewe kwambarwa n'abagenda ku mapikipiki. Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti birebire byiza ndetse n'indabyo ziconze neza. Iruhande rw'indabyo hakaba hari inzu isakajwe amabati atukura.

Ishusho y'icyapa cyamamaza isoko rikorera kuri murandasi ricuruza ibiryo, ibiryo byivanzemo ibitetse by'umwihariko amagi, ishusho y'isahane iriho ibiryo bitetse bigaragaza uburyo ndetse n'uburyo ushobora kubonamo abo bantu bazana ibiryo bakoresheje murandasi.

Ipikipiki iparitse ku muhanda ukoresheje amabuye aconze neza, ikaba iruhande rwayo hari umugabo uyitwaye, wambaye ishati ngufi, iri mu mbara y'icyatsi kibisi. Ipikipiki kandi ikaba itwaye igisandugu kinini cy'icyatsi kibisi, kirimo udupfunyika tw'udukarito kwa kaki.

Amapikipiki aparitse ku muhanda wa kaburimbo yicayeho abagabo batatu bambaye ingofero zagenewe kwambarwa n'abagenda ku ipikipiki, ipikipiki zombi zikaba zitwaye udusanduka dutoya. Hakurya y'amapikipiki hakaba hari ibiti byinshi byinshi bitandukanye by'ubwoko butandukanye ariko bisa neza cyane.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ingofero yagenewe kwamburwa n'abagenda ku ipikipiki. Akaba atwaye ipikipiki iteruye agakapu kanditseho amagambo menshi, ndetse kari mu mabara y'umutuku ndetse n'umuhondo. Ipikipiki ikaba iri kugenda mu muhanda, hakurya y'umuhanda hakaba hari ibiti byinshi, by'ubwoko bwinshi, ariko birebire, bifite amababi y'icyatsi kibisi, meza.

Ishusho yamamaza ibiribwa, uburyo bicuruzwa kuri murandasi ndetse n'uburyo ushobora kubihahamo. Ndase agapfunyika karimo ibyo biribwa, birimo imineke, amashu, inyanya, n'ibindi.

Amashusho y'abakobwa babiri beza bambaye imyambaro, umupira w'umutuku w'ibidodo undi yambaye uw'icyatsi kibisi na wo w'ibidodo, bateruye agapfunyika kari mu ibara ry'umutuku gafungishije umugozi w'ibara ry'umweru.

Icyapa kiriho imyirondoro y'isoko ndetse na nimero, wahamagaraho ushaka ko iryo soko rikugezaho ibicuruzwa ndetse n'uburyo bwo kwishyura. Icyapa kandi kikaba kiriho ishusho y'imodoka, itwara ibicuruzwa biri mu mabara y'umutuku.

Abantu baibiri b'abagore bishimye umwe yambaye ishati y'icyatsi cyibisi, undi yambaye ishati nini ya kaki, bombi bateruye agapfunyika karimo ibyo kurya byiganjemo ibirungo ndetse n'amavuta, hakurya yabo hari ibiti byiza birebire biri mu mashusho cyangwa se mu mabara y'icyatsi cyibisi.